Umugore uhagaze ku iriba, yagiye kuvoma amazi ayavomerara mu ndobo y'umukara, ateruye umwana mu ntoki kugira ngo abone amazi meza ajyana mu rugo iwe yo gukoresha, kugira ngo yirinde kuba yakoresha amazi mabi adatunganiyijwe, ashobora gutera indwara zituruka ku mwanda, byaterwa no gukoresha amazi mabi adasukuye.

Umugore uri kumwe n'abana babiri bagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange ryateguwe rifite amazi asukuye kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, birinda kuba bakoresha amazi mabi ashobora kubatera indwara zitandukanye ziturutse ku mwanda.

Abana babiri b'abakobwa bahagaze kuri robine baje kuvoma amazi. Mu ntoki zabo bafitemo indobo y'icyatsi kibisi, umwe ari kugerageza gukorera undi kugira ngo bajyane mu rugo iwabo amazi meza asukuye yo gukoresha, birinda gukoresha amazi mabi yanduye ashobora kubatera indwara ziturutse ku mwanda.

Abana bari ku iriba kuri robine bagiye kureba amazi meza asukuye yatunganyijwe kugira ngo abaturage babashe kubona amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, birinda gukoresha amazi mabi ashobora gukwirakwiza indwara zituruka ku mwanda.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bahagaze hagati yabo harimo imeza imbere hari abaganga bambaye imyenda y'ubururu, imbere y'abo baganga hahagaze abagabo bambaye amakoti y'umukara, bari kubaganirira babereka ibintu bari gucuruza n'ibyo bari gukora, ukuntu bari kubikora kugirango babashe kubisobanukirwa babahe amakuru akenewe.

Ahantu hateraniye abantu benshi, haba harimo n'abaganga n'abarwayi bagiye kwivuza, abaganga bicaye mbere y'imeza iteretseho udukarito turimo imiti n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abo barwayi.

Umugabo uhagaze imbere ya kandagira ukara wambaye inkweto zifunze z'umukara n'ipantaro y'umukara akaba yambaye n'ishati y'ubururu, akaba ahagaze kuri kandagira ukarabe arimo akaraba intoki n'amazi meza n'isabunekugira ngo akure imyanda ku biganza bye yirinde indwara zishobora gukwirakwizwa n'umwanda.

Umwana wagiye kuvoma amazi ku iriba akoresheje indobo y'umuhondo, ari kugerageza kuyikorera imbere ye hahagaze umugabo ufite ingata mu ntoki, umwana ashaka amazi asukuye ajyana mu rugo iwabo kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha.

Abagore bari ku ivomero rusange bari kumwe n'abana babo, harimo umugore uri gukarabiriza umwana mu ibasi kugira ngo amukorere isuku; kandi n'abandi baje kuvoma amazi kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo asukuye, mu rwego rwo kwirinda indwara zishobora gukwirakwizwa no gukoresha amazi mabi.

Umusaza wicaye, wambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hahagaze umuganga, ari kumusuzuma ngo arebe uko umuvuduko w'amaraso uhagaze mu mubiri w'uwo musaza, abashe kumenya uko amufasha.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe imbere y'inyubako, iteye amarangi y'ubururu, imbere kuri iyo nyubako hejuru hamanitseho icyapa gishushanyijeho umugabo n'umugore bafite abana babiri mu ntoki, cyanditseho ngo: "Gira ubuzima".

Abantu benshi bateraniye ku ivomero rusange, bagiye gushaka amazi meza leta yabashikirije hafi yabo kugirango ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo asukuye, mu rwego rwo kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda ushobora mu guturuka mu gukoresha amazi mabi adasukuye.

Ahantu hahuriye abantu benshi harimo ababyeyi bahetse abana ndetse n'abana bato, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro k'icyatsi kibisi, imbere yabo hicaye umuganga ufite impapuro mu ntoki bari kugenda bamubwira ibibazo bafite akabyandika kuri izo mpapuro, kugira ngo abashe kumenya uko abafasha.

Ahantu hateraniye abagore benshi bicaye, harimo abagabo babiri babahagaze imbere , umwe afite ikayi mu ntoki ari kubasobanurira, yifashishije amajwi n'inyandiko ari kwandika ku rugi rumuri imbere rumanitseho igipapuro cy'umweru, kugirango babashe gusobanukirwa kandi bumve ibyo ari kubabwira neza.

Umuntu wicaye yazamuye ukuboko k'umupira, imbere ye hahagaze umuganga wambaye uturindantoki, ufite urushinge mu ntoki ari gutera urukingo uwo muntu wicaye, kugira ngo yongere ubudahangarwa bw'umubiri we, ubashe kwirinda indwara.

Abantu bateraniye ku ivomero rusange baje gushaka amazi meza asukuye, kugira ngo bayajyane mu ngo zabo babone ayo gukoresha yizewe, mu rwego rwo kwirinda gukoresha amazi mabi adasukuye, ashobora kubatera indwara zitandukanye ziturutse ku mwanda.

Abantu bicaye bari kwifotoza inyuma yabo hari abandi bunamye, inyuma yabo nabo hari abandi bahagaze, inyuma yabo ku rukuta rw'inzu ibari inyuma hari icyapa cyanditseho rbc, ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Imodoka nini zitwara ibyo kurya bashyiriye abantu bafite ibibazo, izo modoka zikaba ziriho amashitingi yanditseho amagambo ariho ikimenyetso gishushanyijeho, ayo magambo akaba yanditse ari, wa, fa, na pa.

Ahantu hanini hubatswe hatunganyije neza, harimo ikigega kinini gikusanyirizwamo amazi kugira ngo abashe kuba yatunganywa, abe yajyanwa mu baturage ameze neza asa neza yavanywemo imyanda yose, ku buryo abaturage bayakoresha nta ngaruka afite ku buzima bwabo.

Abantu benshi bahagaze bambaye udupfukamunwa, bagiye kwivuza, imbere yabo hari umuganga wambaye umupira utukura n'ingofero y'umweru n'agapfukamunwa, imbere ye hicaye umubyeyi ufashe umwana bari kumuha ibinini kugira ngo bakomeze kumwitaho, bamuvure, abashe gukira vuba.

Abantu babiri bahagaze harimo umugabo n'umwana, uwo mugabo wambaye umupira w'ubururu, umwana wambaye umupira w'umutuku, umugabo ari gufasha uwo mwana kumukorera ijerekani iriho ikirango cya UNICEF, avuye kuvoma amazi kugira ngo mu rugo mu ngo zabo babashe kubona amazi meza yo gukoresha asukuye kandi atunganyijwe.

Umugore uhagaze wambaye amarinete. Iruhande rwe hahagaze abana benshi n'inyuma ye ubona ko uwo mugore ari guseka n'abo bana bakaba bishimye banezerewe kandi bafite ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini, harimo abana b'abakobwa bagiye kwikingiza urukingo kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo, birinda indwara zitandura zishobora kuba zafata umubiri wabo, mu buryo butunguranye mu gihe batikingije inkingo zose zikenewe.

Abana b'abahungu bari ku mugezi urimo amazi atemba, badubitsemo amadobo bari gushaka kuvoma ayo mazi kugira ngo bajye kuyakoresha kandi ayo mazi ari mabi, mu gihe bayakoresheje ashobora kubatera indwara zitandukanye ziturutse ku mwanda.

Umubyeyi wicaye uteruye umwana mu ntoki, imbere ye hicaye umuganga wambaye ishati y'umweru, ari kuvura uwo mwana kugira ngo bakomeze kumwitaho, abashe gukura neza nta kibazo afite, kandi nimba arwaye bamuvure.

Abagore batatu bahagaze imbere y'iriba, bari kunywa amazi bakoresheje ibiganza, abandi bakaraba intoki kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, kuko ayo mazi asukuye kandi asa neza ,yujuje ubuziranenge.

Abantu benshi bateraniye kuri robine bagiye kuvoma amazi ku iriba kugira ngo babashe kubona amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo yizewe kandi asukuye, birinda indwara zishobora gukwirakwizwa no kuba bakoresha amazi mabi adatunganyije.

Abana bahagaze ari benshi, bari kuri robine bagiye kunywa amazi, kugira ngo banywe amazi meza atunganyije, afite isuku yizewe, ku buryo nta ndwara yabatera biturutse mu gukoresha amazi mabi yanduye atizewe, nta mutekano bafite.

Umwana uhagaze, wambaye inifomu z'ishuri, wambaye ikabutura y'ubururu, n'ishati y'umuhondo, afite ibirahure bibiri mu ntoki, yabivomyemo amazi mabi ayakuye mu mugende, hirya iruhande rwe, hagaze n'abandi bana bambaye imyenda isanzwe atari abanyeshuri.

Umwana w'umuhungu yateze amaboko ku iriba kuri robine arikunywa amazi ayanywesheje ibiganza. Umwana yambaye ikabutura y'umutuku n'agashati karimo amabara y'imyenda ya gisirikare. Yambaye n'inkweto za bodaboda z'ubururu. Imbere ye hateretse indobo.

Umugore uhagaze ku ivomero rusange ari koza indobo kugira ngo ayikorere isuku, abashe kuba yayivomeramo amazi meza kandi isukuye abashe kubona amazi yo gukoresha mu ngo zabo yizewe kandi asa neza.

Umugore wicaye ateruye umwana mu ntoki ze, imbere hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gufasha uwo mugore guha umwana umuti akoresheje agakoresho kabugenewe, kugira ngo umuti aha uwo mwana wose abashe kuwunywa mu buryo bwizewe.

Umugore uvuye kuvoma amazi yikoreye indobo y'umutuku ku mutwe afite n'indi y'umuhondo mu ntoki, avuye gushaka amazi yo gukoresha mu rugo iwe, kugira ngo yirinde kuba yakoresha amazi mabi adateguye, adatunganyijwe, ashobora kubatera indwara zituruka ku mwanda, bitewe no kuba yakoresha amazi mabi yanduye.

Umwana uvuye mu bwiherero, wambaye inifomu z'ishuri, ahagaze imbere ya kandagirukarabe, ari gukaraba intoki neza, n'amazi, n'isabune, kugira ngo yirinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda waturuka mu kuba yafata ifunguro atigeze akaraba intoki neza, n'amazi n'isabune.

Abagore bahagaze bifotoza, bambaye imyenda isa n'imipira ya oranje, harimo n'abandi bambaye imyenda isanzwe bishimye, harimo n'abateruye abana, ubona ko banezerewe, bavuye mu gikorwa kimwe cyari cyabahuje, bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo izabafashe kujya bibuka icyo gikorwa.

Ahantu hahagaze abantu benshi ubabona ko bambaye imyenda, bifunze ahantu hose, bari gutera imiti mu nyubako, kugira ngo barwanye indwara zishobora gukwirakwizwa n'udukoko turimo imibu, kugira ngo barwanye marariya, babashe kuyirandura kandi bakomeze kuyirinda.

Inyubako ebyiri ntoya, zubakishijwe amatafari ahiye, ziteye amarangi y'ubururu ku nzugi n'amadirishya, zikikijwe n'uruzitiro rwubakishijwe utwuma ruteye irangi ry'umweru, kugira ngo bazirindire umutekano.

Abana bambaye imipira y'ubururu iriho ikirango cya Unicef, umuryango ukorera ku isi yose, cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo bibashe kwita ku bana baho, babone uburezi mu buryo bwizewe kandi bugezweho.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini cy'inama, harimo abirabura n'abazungu. Imbere yabo hateretse amacupa ku meza bicayeho n'ibipapuro bari mu nama bose bacecetse bateze amatwi. Umuntu ubari imbere uri kubagezaho ijambo kugira ngo bumve icyo ababwira, ufite ikibazo aba yabaza cyangwa inama cyangwa inyunganizi abe yayitanga.

Abantu bari ku ivomero bagiye kuvoma amazi, batondesheje amajerekani ku murongo kugira ngo babone amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, bagenda bavomera umwe umwe, havaho umwe hajyaho undi kugira ngo birinde akavuyo kandi bose babashe kubona amazi meza yo gukoresha.

Abaganga bahagaze bambaye amataburiya y'ubururu, bari kubyina bakoma amashyi bishimye imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara w'umuzungu, ubona banezerewe bishimiye serivisi batanga n'ukuntu bakomeza kwita ku baturage.

Abantu bahuriye mu cyumba bari bahujwe na gahunda imwe, bari bari kwiga ku buryo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu kugira ngo bakomeze kubarinda gutwara inda zitateganyijwe.

Ahantu hateraniye abantu bakuru imbere yabo hahagaze abana bato bambaye n'ifomu z'ishuri, bambaye udushati tw'umweru n'udukanzu tw'ubururu, imbere yabo hahagaze abantu bakuru, harimo abamama n'abagabo ubona ko bari kwita kuri abo bana kugira ngo bakomeze kubafasha bagire imikurire myiza.

Abana bambaye inifomu z'ishuri, harimo abambaye imyenda y'ubururu n'abambaye kake, imbere yabo bateretse ifunguro ririho akawunga n'ibishyimbo ari saa sita bagiye gusamura kugira ngo babashe gukomeza gukora amasomo yabo ku ishuri bameze neza.

Ahantu hahuriye abantu benshi bagiye kwisuzumisha, hari abaganga bambaye amakote maremare y'ubururu y'ibishashi, n'ingofero z'ubururu mu mutwe, n'udupfukamunwa ,na ga ku ntoki, bifunze umubiri wose, bari gufata ibizamini by'abaturage kugira ngo babasuzume icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, babarinde kuba cyakomeza gukwirakwira.

Ahantu hanini hateguwe neza, hateganyirijwe guhurizwa amazi, kugira ngo bayakorere isuku, babashe kuba bayategura bakuremo imyanda ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ubundi bayohereze mu baturage bajye kuyakoresha asukuye asa neza.

Umwana w'umukobwa uri gukaraba intoki wambaye akajipo n'agashati bidozwe mu mwambaro w'igitenge, ari gukorera isuku ibiganza bye kugira ngo yirinde indwara zishobora gukwirakwizwa n'umwanda.

Abana b'abanyeshuri bahagaze bambaye inifomo zishuri, bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura y'umukara, bazamuye ibiganza bari gupepera umuntu ubahagaze imbere, inyuma yabo hahagaze abarimu babo bahagararanye n'abagabo b'abazungu, bishimye ubona ko bameze neza.

Abantu babiri bahagaze, harimo umugabo n'umugore, iruhande rwabo hahagaze undi mugore uteruye umwana mu ntoki uteze n'igitambaro cy'icyatsi kibisi mu mutwe; ku rundi ruhande hari abandi bana bahahagaze bane bishimye, ubona bari guseka banezerewe.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bari kwiga ku ngingo zitandukanye, bahuriye hamwe, bafite umugambi umwe, imbere yabo hicaye abantu, bari kubagezaho ibiganiro bifashishijwe amajwi n'amashusho kugira ngo bose babashe gusobanukirwa ibyo bari kubabwira, kandi ufite ikibazo akaba yabaza cyangwa utanga inama n'inyunganizi bakaba bamwumva.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bateranye bari kuganira ku ngingo zerekeranye no kuba bahagarika icyorezo cy'ubushita bw'inkende, imbere yabo hari abantu babiri bicaye imbere, harimo umugabo w'umuzungu n'umugabo w'umwirabura, bose bacecetse bateze amatwi, bari kumva ibyo babagezaho, kugira ngo ufite ikibazo abe yakibaza, cyangwa utanga inama n'inyunganizi babe bamwumva.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe amazi n'isukura, ari cyo bita WASAC, kikaba gishinzwe kugeza amazi meza ku baturage kugira ngo bayabone hafi yabo mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama harimo abagore n'abagabo bicaye, imbere yabo harimeza irigitambaro cy'umukara buri wese imbere hateretse icupa ryamazi harimo umugore wambaye umupira w'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo bose bamuteze amatwi bari kumwumva.

Umugore uri kuvoma amazi, ku ivomero rusange, rifite amazi meza atunganyijwe, kugira ngo abone amazi yo gukoresha mu rugo, yizewe kandi asukuye abashe kwirinda indwara zishobora gukwirakwizwa n'umwanda waturuka mu gukoresha amazi mabi.

Abantu bicaye ari batanu bari mu cyumba cy'inama, harimo abagabo batatu n'abagore babiri; imbere yabo hagiye hateretse amacupa y'amazi, bari kuganira ku ngingo zitandukanye bose batuje bateze amatwi umuntu uri kubagezaho ikiganiro, kugira ngo ibyo bari kuganiraho babyumvikane.

Umugore wicaye ku ntebe wambaye ishati yumweru wambaye'gapfukamunwa imbere ye ahagaze umuganga nawe wambaye agapfukamunwa ari kumutera urushinge ku kubokorwo rushinge rurimo umuti kugira ngo bamwonge

Abana bicaye mu cyumba bakoze uruziga, iruhande rwabo hahagaze abantu bakuru, bicaranye n'umugore w'umuzungu ubicayemo hagati, ari kubaganiriza, bari kwita kuri abo bana kugira ngo bakomeze bagire imikurire myiza, kandi babashe kubona inyigisho zikwiriye zibafasha mu mikurire yabo.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini cy'inama, harimo imeza ndende bose bayicayeho, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi n'impapuro, n'abandi bafite ama mashini bari kuganira, kugira ngo bahane ibitekerezo, bafate imyanzuro y'uburyo bakomeza kwita ku baturage.

Abantu bagiye kuvoma amazi ku iriba, kugira ngo babashe kubona amazi meza, yizewe asukuye yo gukoresha mu ngo zabo, bagejejweho na Leta, kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa n'umuwanda ushobora guturuka mu gukoresha amazi mabi adasukuye.

Abasore babiri bahagararanye bari kuganira, harimo umwe wambaye ishati, ijya gusa nk'umweru wijimye, harimo n'undi wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu, bari kuganira bagirana inama, kugira ngo bose bashobore kwita ku buzima bwa mugenzi we, kandi bose bungurane ibitekerezo.

Abana bagiye ku iriba kuvoma amazi meza atunganyijwe kugira ngo babone amazi bajyana mu ngo zabo yo gukoresha, asukuye kandi yujuje ubuziranenge mu buryo bwo kwirinda indwara zakwirakwizwa no gukoresha amazi mabi adatunganyije, yanduye.

Umwana w'umukobwa uhagaze ku iriba, ari koga intoki akoresheje amazi meza n'isabune, kugira ngo akomeze kwirinda indwara zishobora guterwa n'umwanda waturuka mu kudakorerara isuku intoki ze nyuma y'uko amaze gufata umwanda ushobora kumutera indwara.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, bahujwe n'ibiganiro bimwe, bose bacecetse batuje bateze amatwi umuntu ubahagaze imbere kugira ngo bumve ibyo ari kubagezaho, bose babashe kurisobanukirwa neza kandi babyumvikaneho mu buryo bwumvikana kandi bwizewe.

Umugore wicaye kui iriba, ari kuvoma amazi , ayavomera mu ijerekani y'umuhondo, yayiteretse mu mabasi ateretse hasi, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi bigaragara ko yari arimo afura akaba arangije gufura, akaba agiye kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bateranye, bari kuganira ku ngingo zerekeranye no kwita ku bana kugira ngo bakomeze bagire imikurire myiza, babona amafunguro ahagije yo gufata kandi yujuje ubuziranenge ndetse n'abafite ibibazo by'uburwayi bakabona ubuvuzi hafi yabo.

Umwana uhagaze imbere ya kandagirukarabe, ari gukaraba intoki neza, akoresheje isabune n'amazi meza kugira ngo yirinde indwara zishobora kumwataka ziturutse ku mwanda, waturuka kuba yafata ifunguro atakarabye intoki n'amazi meza n'isabune, mu gihe avuye mu bwiherero.

Abantu bari ahantu ari benshi, bahuriye mu gikorwa kimwe, bose bagiye gushaka ubuvuzi kugira ngo abaganga babiteho babasuzume bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, babashe kumenya nimba bagomba kwivuza cyangwa nimba bakomeza kwirinda kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umugore wicaye uteruye umwana mu ntoki ze, imbere ye hagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari gufasha kuvura uwo mwana, ari kumuha umuti akoresheje agakoresho kabugenewe kugira ngo abashe kumwitaho, uwo umuti wose uwo mwana awunywe, kandi bakomeze kwita ku mikurire ye.

Abaganga bateraniye ahantu hamwe, harimo abambaye imyenda y'ubururu n'abambaye iy'imyeru, bishimiye ivuriro bariho, inyuma yabo hari inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ahantu hari hasakajwe amabati, impande yabo hari n'icyapa kiriho ifoto y'umuganga.

Umugore uhagaze mu karima k'igikoni imbere ye hari umwana ufite akabasi mu ntoki karimo imboga bari gusoroma kugira ngo bajye kuziteka babashe kubona ifunguro ryiza ryizewe kandi ritunganye, ibyo kurya kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo babona ifunguro ryuzuye rifite intungamubiri.

Icyumba kinini cyagenewe gukorerwamo inama, hicayemo abantu benshi, bagiye bicaye ku meza zitandukanye, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bateze amatwi umuntu ubari imbere, ari kubagezaho ijambo yifashishije amajwi n'amashusho kugira ngo bose babashe gusobanukirwa ibyo ari kubabwira mu buryo bworoshye.

Abagore batatu bagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, kugira ngo babashe kubona amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, birinda gukoresha amazi mabi adatunganyijwe ashobora kubatera ibibazo bitandukanye, harimo indwara zituruka ku mwanda.

Abagore bicaye mu cyumba, ari abagore batanu harimo umuganga umwe ari kubaganiriza bose bamuteze amatwi kugira ngo abahe inama, babashe gusobanukirwa ku bibazo bari bafite n'ufite ikibazo ababashe kuba yamubaza kugira ngo akibonere igisubizo mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abantu bicaye ku meza agiye ariho amazi, imbere yabo hateretse ibipapuro, harimo abagabo n'abagore bari mu nama bateraniye ahantu hamwe, bari kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo bose babashe gutanga ibitekerezo kandi babyumvikaneho neza mu buryo busobanutse.

Umugabo uhagaze ku iriba, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara menshi, akaba afite ijerekani imbere ye mu maguru, ayifasheho yagiye kuvoma amazi meza kugira ngo ayajyane mu rugo iwe babona ayo gukoresha, mu rwego rwo kwirinda gukoresha amazi yanduye, ashobora gutera indwara zituruka ku mwanda.

Abantu bahuriye mu nama bahujwe igikorwa kimwe, ari abafatanyabikorwa bari kuganira ku ngingo zitandukanye, kugira ngo bose babashe kubyumvikanaho kandi batuje bacecetse, kugira ngo ufite ikibazo abe yababaza n'utanga inama cyangwa inyunganizi babe bamwumva.

Abantu bahuriye mu nama barimo urubyiruko, bicaye ku ntebe zifite imisego y'umutuku, imbere yabo hari ameza atezeho ibitambaro by'umweru kandi kuri ayo meza imbere yabo hateretse amacupa n'amazi ndetse n'amakayi, bari kureba imbere bateze amatwi umuntu uri kubagezaho ibiganiro.

Abantu bahagaze harimo ababyeyi bicaye bateruye abana imbere yabo hari umugabo uri kubafasha agenda abagaburira bafite inkongoro mu ntoki arikubaha amata yo kunywa kugira ngo akomeze abiteho babashe kubona ifunguro rihagije kandi ryujuje intungamubiri.

Abana bari mu mugezi ufite amazi atemba, bari gukaraba bambaye ubusa, ubona bishimye ariko ayo mazi akaba atari meza ku buzima bwabo kuko ashobora kubatera indwara zitandukanye, ziturutse ku mwanda uri muri ayo mazi, bikaba byabagiraho ingaruka zitari nziza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bacecetse batuje bateze amatwi umuntu ubari imbere, uri kubagezaho ijambo, kugira ngo bose babashe kumva ibyo ari kubabwira kandi babisobanukirwe, ufite ikibazo abe yabaza cyangwa utanga inama n'inyunganizi bose babe bamwumva mu buryo buciye mu mucyo.

Ahantu hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye ishati y'ubururu imbere yabo hahagaze umugore wambaye agapfukamunwa hagati yabo hateretse imeza iriho igitambaro cy'umweru. Kuri iyo meza hateretseho mashini bari kuganira umwe abasomera ibintu byanditse kurupapuro afite mu ntoki.

Ahantu hahuriye abantu benshi, bigaragara ko bagiye kwivuza, aho ubuvuzi bubegereye impande yabo hari imodoka ihaparitse y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi babavana ahantu hamwe babajyana ahandi, cyangwa bakaba bayikoresha batwara imiti kugira ngo bayivane ahantu hamwe bayigeze ahandi.

Ahantu hicaye abantu benshi harimo abaganga n'abarwayi bagiye kwivuza, inyuma yaho hahagaze umuhungu w'umusore w'umukoranabushake kugira ngo abafashe kuyobora abo baturage, baje kwivuza barwaye abereka aho bajya kugira ngo babiteho.

Abagore babiri bicaye kumeza inyuma yabo hari idaraporo ifite ibara ry'ubururu abagore bari guseka harimo umugore wambaye ikote ry'amabara y'umweru n'umukara imbere yambariyemo agapira k'umukara, undi mugore uri kurundi ruhande ateze igitambaro mu mutwe cy'umuhondo yambaye n'ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'umutuku.

Umwana uhagaze imbere ya robine ku iriba ari kuvoma amazi, ari koza indobo kugira ngo azikorere isuku azivomeremo amazi zisa neza, yirinde umwanda ushobora guturuka muri izo ndobo kubera ko yazivomeyemo amazi atazogeje.

Abakobwa babiri bicaranye harimo uwambaye ikanzu y'umukara n'undi uri imbere wambaye ikanzu y'ubururu irimo amabara y'umweru bari kuganira bagirana inama kugira ngo bashobore kwiyitaho buri wese aha undi inama mugenzi we amufasha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bumeze neza kandi biteho ubuzima bwabo.

Abana bahagaze bishimye bari gukoma amashyi, abana bambaye imipira y'imihondo ubona banezerewe bafite ubuzima bwiza kandi imibiri yabo ifite imbaraga, ubona ko bitaweho bakuze neza ababyeyi babo bakomeza kubitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu bicaye mu nama, bari kwiga ku ngingo zerecyeranye n'ubuzima, bacecetse batuje, imbere yabo hicaye umugore wambaye ikote ry'ubururu, iruhande rwe hicaye umugabo na we wambaye ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari ibyapa biriho ikirango cya arabisi, ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'umutuku, imbere yambariyemo ishati y'ubururu, ufite umusatsi usanzwe w'umukara, ari guseka yishimye, ubona afite ubuzima bwiza, anezerewe, ntakibazo afite, ubona umubiri we umeze neza nta kibazo.

Icyumba cyicayemo abagore batatu harimo abagore babiri bateruye abana mu ntoki zabo imbere hicaye undi mugore, imbere ku meza ye hateretse telefoni ari kubagira inama kugira ngo bakomeze kwita ku mikurire y'abana babo babarinde kuba bagira ikibazo cy'igwingira.

Mu bantu benshi bicaye mu kibuga, harimo abagore n'abagabo, hari abaganga bicaye ku meza, bari kugenda bakira umwe kuri umwe, kugira ngo babafashe kubona ubuvuzi hafi yabo, kandi bubegereye bitabahenze.

Ahantu hicaye umugabo, yicaye hasi ku muhanda, wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikigina ubona ko ari umugabo ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akeneye kwegerwa akaganirizwa, agashyikirizwa abantu bakamwita.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari imeza zikozwe mu mbaho, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubagezaho ijambo ,bose bacecetse bamuteze amatwi bari kumva ibyo abababwira kugira ngo ufite ikibazo abe yabaza kandi bose bumvikane ku ngingo bari kuganiraho mu buryo busobanutse.

Abakobwa babiri bicaranye, harimo umukobwa wambaye imyenda y'umukara, umupira w'amaboko maremare w'umukara n'ipantaro y'umukara, imbere ye hicaye undi mukobwa wambaye ingofero mu mutwe n'ikote ry'umutuku n'ipantaro y'umutuku, bari kuganira umwe agira inama undi.

Umugabo wicaye hasi impande ye hari abantu benshi bamutonzeho uruziga, wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umutuku, bamwambitse amapingu ku kuboko bigaragaza ko yakoze amakosa, inyuma ye hahagaze umupolisi bagiye kumufunga kugira ngo bamuhanire ibyaha yakoze.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bicaye ku meza ziriho ibitambaro, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bose bacecetse, batuje, bateze amatwi, umugabo ubari imbere wambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo kugira ngo bamwumve, kandi ufite igitekerezo abe yagitanga.

Umugabo uhagaze mu muhanda wambaye imyenda yamucikagurikiyeho, afite igikapu ku rutugu gikoze mu mufuka, ubona ko uwo mugabo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akenewe kwegerwa agafashwa, akajyanwa mu bigo byagenewe kwita ku bantu nk'abo ngabo, bakamuvura akaba yagaruka mu buzima busanzwe.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako, yanditseho amagambo, atwereka ko ari ku bitaro bya Caraes, aho bita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo babavure kandi babiteho, babashe kuba basubira mu buzima busanzwe bameze neza.

Umukecuru wicaye atetse yicaye hanze ku zub,a impande ye hateretse igikombe, imbere hari amashyiga acanishije inkwi, ari gukoroga mu isafuriya atetse igikoma ari gukoresha umwuko kugirango abashe kubona ifunguro ryo kurya rihiye.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi, bavuye mu nama yari yabahuje bari kwifotoza ifoto y'urwibutso kugira ngo izajye ibafasha kuzirikana ibyo biyemeje kandi n'inama bafashe babashe kuzishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako nziza, yubakishijwe amakaro hasi, bari kwifotoza bishimira inama bavuyemo ko igenze neza, kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, izabafasha kuzirikana imyanzuro bafatiye muri iyo nama, ndetse no kuba bayishyira mu bikorwa mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Abantu bateranye ari benshi, harimo abana, abagabo, abagore, abasore n'inkumi, bateraniye ahantu hamwe, bagiye mu bikorwa bimwe, bafite amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda mu ntoki zabo.

Ahantu hicaye abantu bateraniye mu nama, bose bari kureba imbere yabo, harimo umugore ufite agapfukamunwa ku kuboko yazamuraye urutoki kugira ngo asabe ijambo abashe kuba yagira icyo avuga bose bamwumve.

Umugore wicaye hasi ku musambi, imbere hari urutaro ruriho ibigori, kuri urwo rutaro hariho mironko ifite ibara ritukura, umubyeyi akaba ateruye umwana mu ntoki, iruhande rwe hari n'undi mwana uhicaye, ubona ko bari kuganira.

Umuryango w'abanyeshuri bari kwiga ubuvuzi bwo mu mutwe, bishyize hamwe kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bw'abaturage b'Abanyarwanda, babagira inama z'uburyo bagomba kwitaho ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Ahantu hateraniye abantu bafite igipapuro mu ntoki bari kukifotorezaho, inyuma yaho hari imodoka y'umweru, inyuma y'iyo modoka hari amatente yubatse bigaragara ko bari bayakoriyemo inama, bakaba bayishoje, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imodoka nini yifashishwa nk'ibitaro bigendanwa, aho itwara ibikoresho, ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo babashe kuba bafasha abaturage barwaye kubona ubuvuzi, bubegereye kandi hafi yabo, imodoka ikaba yifashishwa mu kugenda igasanga abaturage aho batuye, kugira ngo babavure mu buryo buboroheye.

Umugabo wicaye muri rigori ku muhanda bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacikaguritse ukenyeye igitenge, ufite umusatsi usa nabi akeneye kwegerwa n'abantu kugira ngo bamwiteho, bamufashe babe bamugeza kwa muganga bamuvure abashe kuba yagaruka kubana n'abandi bantu neza nta kibazo.

Abagore bicaye ari babiri, umwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umukara, imbere ye hicaye undi mugore wambaye igitenge cy'ubururu, witandiye n'igitambaro cy'umutuku, bari kuganira uwo mugore wambaye ipantaro afite impapuro imbere ye, afite n'ikaramu ari kuganiriza uwo mugore wundi.

Umukobwa wicaye ku rubaraza mu ntebe, yazamuye ukuguru kumwe yagushyize mu ntebe yicayeho, yambaye ipantaro y'ikoboyi, n'isengeri y'umukara, ni umukobwa ari guseka ubona yishimye, afite ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye ahantu ari benshi bari bahuriye mu gikorwa kimwe, bahagaze inyuma y'ameza ariho ibitambaro by'umukara ndetse n'impapuro zigiye zitandukanye. Barigufata ifoto y'urwibutso nyuma y'uko gahunda zari zabahuje zirangiye.

Umwana wicaye ku ntebe imbere ye hateretse imeza, uwo mwana akaba yambaye inifomu z'ishuri, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'agakabutura k'umukara ari guseka yishimye, ari kurya biscuit, yicaye mu ntebe inyuma hahagaze abandi bantu ubona ameze neza.

Ahantu hahuriye urubyiruko rwinshi, harimo abasore n'inkumi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu, hahagazemo umugore w'umuzungu, harimo n'undi mugabo w'umwirabura wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ,bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore uhagararanye n'umwa, bose bambaye amasengeri y'umweru, bafite uburoso mu ntoki bwagenewe koza mu kanwa, bifashishije umuti wabugenewe kugira ngo bakomeze gukorera akanwa kabo isuku, barinda amenyo yabo kuba yakangirika.

Umugabo uhagaze ari guseka, wambaye umupira w'amaboko maremare ubona yishimye. Mu ntoki ze afite insimburangingo z'amenyo, ari kuzitunga urutoki agaragaza ko zifashishwa mu gufasha umuntu waba wagize ikibazo mu kanwa agakuka iryinyo cyangwa rigacika. Bakaba bayikoresha barisimbura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura abarwayi, kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bwizewe kandi mu gihe gitoya kitarambiranye, bakaba babafasha bakabakurikirana, bakaba bavurwa hakiri kare bitabaye ngombwa ko barembera mu ngo zabo.

Abantu bahagaze mu ishuri, harimo umugabo n'abagore babiri, n'undi mugabo uhagaze ku ruhande utagaragara neza, imbere yabo hahagaze umuganga uhagararanye n'umwana wambaye inifomu z'ishuri, wambaye ishati y'icyatsi kibisi, ufite igikanka cy'amenyo mu ntoki, umuganga ari kumwigisha amwerekera uko bakorera isuku mu kanwa, kugira ngo abashe kwiyitaho.

Abana bari mu ishuri bambaye inifomu z'ishuri, hagati yabo hahagazemo abagore babiri, ubona ko bari kubaganiriza, babahaye uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo, bari kubatoza kwita ku isuku yabo yo mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho kugira ngo umurwayi aje abagana abashe kumwitaho mu buryo bwihuse kandi vuba bitarambiranye.

Abana bahagaze ari benshi, bambaye inifomo z'ishuri zifite ibara ry'ubururu, bafite uburoso mu ntoki bwagenewe koza amenyo, bari gukorera isuku mu kanwa kabo mu gihe bamaze gufata ifunguro kugira ngo bakomeze kwita ku menyo yabo, abe ameze neza kandi akomeye.

Umugore uhagaze ari guseka, umugore w'umwirabura afite umusatsi usanzwe w'umukara, yasamye, afite amenyo asa neza yarayitayeho yarayakoreye isuku, ubona ko ameze neza nta kibazo yayitayeho, kandi ubona ko umubiri we umeze neza ufite n'imbaraga.

Umwana wicaye ku ntebe, imbere ye hari umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu, ari kumukora mu kanwa kugira ngo arebe ikibazo afite abashe kumenya uko amuvura, amwiteho amenyo ye abe yayasubiza ku murongo.

umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye ubusa hejuru, ufite akadodo k'umweruru mu ntoki yagafatishije ibiganza byombi, arikukanyuza mu menyo kugirango ayakorere isuku akuremo imyanda yaba yasigayemo nyuma yo gufata ifunguro

Ahantu hari abaganga, hicaye umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, wambaye na ga z'umweru ku ntoki, imbere ye hicaye umugore wambaye isingeri y'umukara, yasamye, umuganga ari kumureba mu kanwa kugira ngo amuvure.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye ubusa hejuru, ufite isume ku rutugu, afite akadodo k'umweru mu ntoki yagafatishije amaboko yombi, ari kukanyuza mu menyo kugira ngo ayakorere isuku, abashe gukuramo utwanda twaba twasigayemo nyuma yo kurya, akomeze ayiteho aguma ameze neza.

Umugore uhagaze wambaye isengeri y'umweru, umugore w'umwirabura, yasamye afite akadodo k'umweru mu ntoki ze, yagafatishije ibiganza byombi, ari ku kanyuza mu menyo ye, kugira ngo ukuremo umwanda waba wasigayemo nyuma yo gufata ifunguro, abashe kuba yayakorera isuku agume akomeye kandi asa neza.

Umugore uhagaze imbere yindorerwamo, wambaye isengeri y'umweru, ufite imisatsi miremire y'umukara, ari koza amenyo akoresheje uburoso bwabugenewe n'umuti wabugenewe kugira ngo akomeze kwita ku isuku ye yo mu kanwa.

Umwana w'umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu, wambaye agakanzu k'icyatsi kibisi imbere yambariyemo agapira k'umweru, afite uburoso mu ntoki ari koza amenyo kugira ngo ayakuremo umwanda akomeze kuyitaho aba asa neza kandi akorewe isuku, yirinde indwara zishobora kuyataka.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye umupira w'umweru, ufite akadodo k'umweru mu ntoki ze, ari kukanyuza mu menyo kugira ngo abe yayakorera isuku, akuremo umwanda waba wasigayemo nyuma yo gufata ifunguro, akomeze ayiteho, abe ameze neza, kandi asa neza, akomeye.

Umukobwa wicaye ufite imisatsi miremire y'umukara, ari guseka imbere ye hahagaze umuganga ufite insimburangingo mu ntoki z'amenyo, ari kuzipima ku menyo ye kugira ngo babashe kumwitaho amenyo ye bayasubize uko yari ameze abashe kumera neza bamwiteho bamuvure.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zigezweho, zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwizewe kandi mu gihe cyihuse, bakaba bazikoresha mu gihe bari kuvura abarwayi bafite ibibazo, kugira ngo babahe ubuvuzi bwihuse.

Abana bahagaze bari gutozwa umuco mwiza wo kubamenyereza gukorera isuku amenyo yabo, bakoresheje uburoso bwabugenewe n'umuti wifashishwa mu gusukura amenyo kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwo mu kanwa kabo, amenyo yabo agume asa neza kandi akomeye.

Umukecuru wicaye ku meza afite ikirahure cy'mazi, imbere ye kumeza hari igikarito kirimo imiti, impande ye hahagaze umuganga wambaye ishati yubururu ari kumufasha, amuhereza ibinini mu ntoki kugirango uwo mukecuru abinyweshe ayo mazi afite mu kirahure.

Ahantu hahuriye abantu benshi batandukanye, ubona ko baje mu birori byabahurije hamwe, harimo umusaza n'umukecuru bahagaze imbere yabo, ubona ko bameze neza, basa neza kandi bishimye.

Umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga, ari guhagurukira mu mbago kugira ngo abashe kumenyereza amaguru ye, nyuma y'uko amaze igihe arwaye, aryamye ku gitanda, atayakoresha, bikamusaba kuba yayamenyereza kugira ngo yongere gutora imbaraga, abashe kuba yakigenza.

Umukecuru n'umusaza bicaye bari guseka, umusaza ari gusoma uwo mukecuru ku itama, ubona ko ari abasaza n'abakecuru bameze neza, bishimanye bafite ubuzima bwiza, kandi batekanye imibiri yabo ifite imbaraga, kandi ubona banezerewe nta kibazo.

Umusaza wicaye, imbere ye hahagaze umuganga ufite agatambaro k'umuhondo mu ntoki, umusaza yazamuye amaboko ye yashyize imbere y'uwo muganga kugira ngo amufashe aho agatambaro bagakoresha bakora siporo, bananura ingingo kugira ngo umusaza akomeze kwita ku buzima bwe, abe ameze neza kandi akomeye.

Umukecuru wicaye uri gukora siporo, ufite utwuma mu ntoki twifashisha mu mugihe umuntu ari gukora siporo, kugirango tumworohereze, kandi abashe gukora siporo neza, z'ibizamugirira akamaro, kuko siporo ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, kandi bugatuma umubiri ukora neza.

Abakecuru batatu bahagaze ubonako bari mu myaka mikuru, harimo uwambaye umupira w'umweru n'uwambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye umupira w'umweru, urimo hagati wambaye umupira w'umuhondo afite telefoni mu ntoki bari kwifotora ngo barebe uko bameze, ubonako ari abakecuru bishimye bameze neza.

Umukecuru uhagaze uri muri siporo, ufite utwuma mu ntoki tw'icyatsi kibisi, twifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo kugira ngo bimworohere kandi abashe kuzikora neza zibe zamugirira umumaro mu buryo bwihuse kandi bwiza bwizewe.

Umukecuru uri kumwe n'abakobwa n'umwana mutoya. Ari abantu batatu harimo umukecuru wambaye amarinete. Impande ye hari umukobwa ufite umwana mu kuboko. Ubona bariguseka bishimye. Ubona ari umuryango unezerewe kandi bameze neza barikwita kuri uwo mukecuru kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Umusaza wicaranye n'umukecuru, imbere yabo hari imeza iriho ikirahure kirimo amazi, iyo meza iteretseho ururabo, umukecuru ufite urupapuro mu ntoki bari gusoma amabwiriza yanditse kuri urwo rupapuro kugira ngo uwo musaza amenye uko afata imiti agendeye ku mabwiriza basomye ku rupapuro umukecuru afite.

Umusaza uri mu kibuga cya basiketi imbere ye hari umwana ufite umupira bifashisha mugihe bari gukina umukino wa basiketi bari gukina n'uwo musaza kugirango akomeze kuba afite ubuzima bwiza kandi yita ku mubiri we ukomezaze kuba ufite imbaraga zihagije kandi ameze neza.

Umusaza wicaye wambaye amarinete afite urupapuro mu ntoki iruhande rwe hicaye umusore bari kurusoma baganira baseka kugira ngo akomeze kwita ku buzima bw'uwo musaza abe afite imbaraga kandi abayeho neza afatira imiti ku gihe, kugira ngo akomeze gusigasira ubuzima bwe.

Umusaza wicaye ari gusoma igitabo, afite ikaramu, umusaza wambaye amarineti, wambaye n'ishati ya orange, imbere hari igitabo gifite amabara y'umweru, agifashe mu ntoki, afite n'ikaramu mu ntoki, arimo agenda asoma kugirango akomez akoreshe ubwonko bwe bube bumeze neza.

Umusaza uhagaze uri muri siporo, wambaye umupira w'ubururu, ufite akuma mu ntoki k'ubururu bifashisha mu gihe bari gukora siporo, impandeye hahagaze umugore w'umuganga wambaye ishati y'umweru, ari kumufasha amumenyereza, amwereka uko yakora siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, abe afite imbaraga kandi umubiri we umeze neza.

Umukecuru wicaye ahantu mu twatsi ari gukora siporo yarambuyemo tapi ari kugorora amaguru ye, wambaye ipantaro y'umutuku n'umupira wikigina kugirango akomeze kubungabunga ubuzima bwe, umubiri we ukomeze ukora neza kandi ufite imbaraga zihagije.

Umusaza wicaye ari guseka wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite amabara y'ubururu n'ay'umweru agiye aciyemo uturongo, ari gukina umukino imbere ye hicaya undi muntu bari gukina, uwo musaza ubona ameze neza kandi anezerewe.

Umusaza uri mu myaka mikuru wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite akuma mu ntoki kifashishwa mu gukora siporo, ubona ko ari muri siporo iruhande rwe hari umuganga uri kumwitaho amufasha, amwerekera uko zikorwa.

Umukecuru uri kumwe n'umusaza bicaye mu ntebe, imbere yabo hari imeza iteretseho agakarito karimo imiti, umusaza afite n'agacupa mu ntoki, umukecuru bari kumwe afite urupapuro mu ntoki rw'umweru banditseho amagambo bari kuyasoma, hariho amabwiriza abategeka uko bagomba gufata iyo miti.

Mu gihe ababyeyi bageze mu zabukuru bashaje bamaze kuba abakecuru n'abasaza, bayishimira kuba abicaranye n'abuzukuru babo b'abana babyaye kugira ngo bakomeze kubitaho, bagume bafite ibyishimo kandi babafashe kubona ibyangombwa bakenera bya buri munsi.

Abantu bahagaze bishimye harimo umusaza n'umukecuru n'umusore n'umukobwa n'umwana muto, ubona ko banezerewe bishimiye ubuzima bafite ubusaza n'abakomeye n'uwo mukecuru ubona nta kibazo bafite kandi babitaho neza.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, imbere ye hicaye umuganga mu ntebe wambaye imyenda y'ubururu, afite agakoresho kifashishwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze, babashe kuba bamukurikirana kandi bamwiteho ubuzima bwe bukomeza kugenda neza.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru, umusaza yicaye ku gitanda, imbere ye hahagaze umukecuru wambaye umupira w'ubururu, ari gufasha umusaza gufata imiti, amuhereza ikirahure cy'amazi n'imiti kugira ngo ayinywe akomeze kwita ku buzima bwe.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu, imbere yabo hari imeza iteretseho ikirahure cy'amazi, bafite n'urupapuro mu ntoki imbere yabo hateretse n'agacupa karimo imiti, umukecuru ari gusomera umusaza amagambo yanditse kuri urwo rupapuro afite mu ntoki, kugira ngo uwo musaza amenye uko afata iyo miti bigendeye ku mabwiriza bamuhaye.

Umukecuru uhagaze afite umusatsi w'umweru, wambaye amarinete. Imbere hari umuganga wambaye ishati y'umukara ari kumuganiriza kugira ngo akomeze amwiteho ubuzima bwe bukomeze kuba bumeze neza.

Umusaza wicaranye n'umukecuru, imbere yabo ku meza hari ibinini ndetse n'impapuro bari kuganira kugira ngo bafashanye kwibukiranya gufata imiti ku buryo bwizewe kandi neza, ku buryo bitabagiraho ingaruka.

Abagore babiri bari kugenda mu muhanda bari muri siporo. Harimo umugore wambaye umupira munini w'umukara uteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe. Iruhande rwe ibumoso undi mugore uhari yambaye agakote k'umukara karimo amabara y'umweru ku rutugu. Bari gukorera siporo ahantu ku muhanda uteyeho ibyatsi bisa neza.

Umukecuru ahagaze mu gikoni kigezweho, cyiza, gifite isuku, umukecuru akaba afite ikirahure mu ntoki kirimo amazi, afite n'ibinini mu ntoki agiye kubinywesha ayo mazi ari mu kirahure kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeze kuba umeze neza.

Ni umukecuru wicaye mu ntebe, inyuma ye hahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu, imbere yambayemo umupira w'umweru w'amaboko maremare, ubona bari guseka bishimye banezerewe, umuganga ari kwita kuri uwo mukecuru kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza kandi umubiri we ufite imbaraga.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, wambaye n'amarinete ku maso ari gukorera siporo ahantu ku kazuba, afite utwuma mu ntoki dufite ibara ritukura twifashisha mu gihe umuntu ari gukora siporo kugira ngo tumworohereze abashe gukora siporo neza kandi zibe zamugirira akamaro.

Umusaza wicaye mu gatebe k'abantu bafite ubumuga wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru ari gukora siporo, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'umutuku ari kumufasha kugira ngo akomeze amwerekere uko akora siporo abashe kumenyereza umubiri we wongere kugarura imbaraga, ku buryo na we yakifasha ibindi bintu.

Umucyecuru uhagaze wambaye umupira w'ubururu ukenyeye amaniro y'umweru, wambaye ishaneti mu ijosi rifite amabara y'umweru n'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki arikugezaho abantu ijambo bose bamuteze amatwi ngo bumve icyo ababwira.

Icyumba kinini kirimo inama iri kuyoborwa n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, n'ipantaro y'umukara, n'ishati y'ubururu, na karuvati y'umukara, imbereye hari abantu ari kugezaho ijambo, bose bamuteze amatwi kugirango bumve icyo ababwira mu buryo busobanutse kandi bwizewe.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, harimo urubyiruko rw'abagore n'abakobwa bambaye imipira y'imikara n'imyeru, bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kubagezaho ijambo, kugira ngo basobanukirwe ibyo ari kubabwira, kandi ufite ikibazo akaba yabaza, kandi n'ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi na we akaba yabitanga bose bamwumva.

Ahantu hateretse udukoresho twifashishwa mu gihe bari gusuzuma umurwayi ufite icyorezo cy'ubushita bw'inkende kugira ngo bamenye abarwayi bafite babashe kumenya uko babitaho kandi bakomeze kwirinda ikwirakwira ry'icyo cyorezo mu baturage babashe kugikumira hakiri kare mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Abantu bahagaze, harimo abagabo batanu n'abagore babiri, ubona ko bavuye mu nama imwe harimo abagore babiri b'abazungu n'umugabo umwe w'umuzungu abandi bagabo bane ari abirabura bari bahuriye mu gikorwa kimwe barimo baganira, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ubururu, uhagararanye n'undi mugore wambaye ikote ry'umukara n'ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, n'ipantaro y'umukara, mu ntoki zabo bafashe icyapa cyanditseho amagambo akangurira abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu kuko ivurwa kandi igakira.

Icyumba kinini giteraniyemo urubyiruko rw'abakobwa, bambaye imipira isa y'imyeru, bigaragara ko bari bahuriye mu nama imwe, bari kubaha ubutumwa bumwe, kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo biyitaho.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bateze amatwi harimo abagabo n'abagore bose bacecetse, bari kureba umuntu bari imbere, bari kumva ijambo ari kubagezaho batuje, kugira ngo ufite ikibazo abe yabazaza, cyangwe utanga inama y'inyunganizi bose babe bamwumva.

Kwita ku buzima bw'abagore kugira ngo babashe kwirinda kanseri zigiye zitandukanye zikunda gufata igitsina gore, harimo kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bufite umutekano kandi bameze neza.

Abantu bari mu cyumba kinini cy'inama, bacecetse batuje, imbere yabo hicaye abantu, bari kubagezaho ijambo, bateze amatwi kugira ngo bumve icyo bababwira, uba ufite ikibazo abe yabaza cyangwa utanga inama n'inyunganizi babe bamwumva ku buryo busobanutse.

Umugore wicaye mu ntebe ifite imisego y'umuhondo, wambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umukara, yambaye n'ikote rifite amabara y'ikigina, afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko imbere ye hari abantu bahicaye ari kubagezaho ijambo, bose bamuteze amatwi.

Ahantu hahagaze abaganga babiri, bambaye imyenda yabugenewe ifite amabara y'ubururu, bari gusuzuma abantu babapima kugira ngo barebe nimba nta cyorezo bafite, uwo basanga arwaye babasha kugira uko bamukurikirana, ku buryo barinda n'abandi kuba yabanduza.

Icyumweru cyahariwe kurwanya indwara ya diyabete kugira ngo bakangurire abantu uburyo bwo kuyirinda, kandi banayisuzumishe, mu gihe hari usanze ayirwaye bamugire inama z'uko yakomeza kwiyitaho, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bari kwiga ku ngingo zitandukanye bose bacecetse batuje, imbere yabo hari umugabo uri kubasobanurira ufite indangururamajwi mu ntoki ari kwifashisha amajwi n'amashusho kugira bose babashe kumva ibyo ari kubabwira mu buryo busobanutse kandi bwizewe.

Icyumba kinini cy'inama cyahuriyemo abantu benshi bahujwe n'igikorwa kimwe, imbere yaho hahagaze umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo, bose bacecetse batuje bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo ababwira.

Umugore wicaye wambaye ishati y'umweru, imbere ye hahagaze umuganga wambaye agapfukamunwa, ari kumutera urushinge ku kuboko, kugira ngo amuhe urukingo rumwongererera ubudahangarwa bw'umubiri we, abashe kuba afite imbaraga kandi akomeye.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imiti n'ubuzima bw'abaturage aricyo bita RBC, mu magambo arambuye aricyo bita Rwanda Biomedical Center.

Ahantu mu cyumba kinini, harimo utubati tugiye turimo amarinete, bigaragara ko ari ahantu bacururiza amarinete y'abantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'amaso kugira ngo uwo muganga yayandikiye abashe kuyabona hafi bitamuhenze kandi yizewe.

Ahantu hanini hateye intebe z'umukara zigiye zitondetse ku murongo, ahantu abantu bicara mu gihe baje kwivuza kugira ngo ngo babakire uko bagiye baza. Bakira umwe kuri umwe bagendeye ku murongo, kugira ngo bose babafashe kubakira neza, nta kavuyo kajemo.

Inyubako zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Kigina kugira ngo cyakire abaturage batuye aho hafi, babashe kubona ubuvuzi bubegereye bitabasabye gusiragira bajya kwivuza ahantu henshi cyangwa ngo hagire abarembera mu ngo zabo, bakabona aho bivuza ku buryo buboroheye kandi hafi yabo.

Inyubako nini ya etaje igeretse gatatu, iteye amarangi ifite ibirahure bya fime mu madirishya no mu nzugi, munsi y'iyo etaje imbere yaho hakaba hari parikingi nini iparitsemo imodoka, iyo pariking ikaba yubakishijwe amapave.

Abagore batatu bari mu cyumba, harimo abaganga babiri, n'undi mugore umwe, wicaye imbere y'imeza, imbere ye hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kumugira inama, ari kumubaza, ibibazo amubajije, akabyandika mu ikayi, kugira ngo abashe kumenya uko amufasha, n'uko amwitaho.

Inyubako isa neza ifite inkuta ziteye amarangi y'umweru, iyo nyubako ikaba ifite umuryango munini, uwo muryango ukaba urimo icyumba cyagenewe gukorerwamo n'abaganga mu gihe bari kuvura umurwayi bamubaga, kugira ngo babashe kumufasha gusubirana ubuzima bumeze neza.

Ikigo kinini kirimo inyubako nyinshi, harimo inyubako ziteye amarangi y'umuhondo, ndetse n'inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, icyo kigo kikaba cyarateganyirijwe gutangirwamo ubuvuzi gikorerwamo n'ibitaro, kugira ngo byakire abaturage babashe kubona ubuvuzi hafi yabo, kandi bugezweho mu gihe cyihuse.

Icyumba cyo kwa muganga kinin,i giteyemo ibitanda byifashishwa kugira ngo umurwayi abone aho aruhukira, mu gihe bibaye ngombwa ko, aguma mu bitaro kugira ngo abaganga bakomeze kumukurikirana mu gihe arwaye, akabona aho yaruhukira hizewe kandi hafite umutekano.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bicaye bategereje ko babakira, aho hantu bicaye ari ahantu bategerereza ko bakira bagenda bafasha umwe kuri umwe ko bagiye baza, kugira ngo birinde ko hazamo akavuyo.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa kwa muganga, kugira ngo babikoreshe bita ku barwayi baje babagana, babashe kubona ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe mu gihe gitoya bitarambiranye.

Inyubako yateganyirijwe kuvurirwamo abana batoya b'impinja n'ababyeyi babo kugira ngo babakurikirane mu mikurire yabo, babashe gukura bameze neza imibiri yabo ifite imbaraga nta kibazo.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ziteye n'irange ry'umweru, zisakajwe amabati y'ubururu, izo nyubako imbere yazo hakaba hari icyapa kitwereka ko ari ku kigonderabuzima cya matyazo kugira ngo gifashe abaturage baturiye aho ngaho kubona ubuvuzi bubegereye kandi vuba.

Ikigo kinini kirimo inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, icyo kigo kikaba gifite ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi, icyo kigo kikaba cyarateganyirijwe mu gukorerwamo n'abaganga kugira ngo bahe serivisi abaturage baje babagana, kugira ngo babafashe kubona ubuvuzi hafi yabo.

Abaganga babiri bahagaze, bambaye udupfukamunwa, bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari imashini yifashishwa n'abaganga mu gihe bari kwita ku murwayi kugira ngo bamukurikirane, bamuvure mu buryo bwizewe kandi bugezweho.

Inyubako nini ziri mu kigo zubabakishije amatafari ahiye, harimo ubusitani bunini burimo indabyo nziza zisukuye zikoreye isuku, hirya hari parikingi iparitsemo imodoka zifashishwa mu gutwara abarwayi, harimo imbangukiragutabara n'izikoreshwa mu gihe bari kugemura imiti bayivana ku bitaro bimwe bayijyana ku bindi.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati y'ubururu, izi nyubako zikaba zarateganyirijwe kwakira abaturage kugira ngo babahe ubuvuzi bubegereye kandi hafi yabo hatagize urembera mu rugo, cyangwa agire ikindi kibazo yabuze aho ajya kwivuza.

Icyumba giteguye gisa neza, kigihe kirimo amabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo, ay'icyatsi kibisi, ay'bururu, aya orange, abona ko ari icyumba gisa neza, gitunganijwe neza harimo n'intebe nyinshi zo kwicaraho.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye bari kwifotoreza imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari y'umutuku ahiye, ikaba iyo nzu isakajwe amabati y'ubururu kandi kuri iyo nzu hakaba handitseho amagambo atwereka ko ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako zubatse neza ubona ziteguye neza, ziri ahantu hari isuku zigeretse, zubakishijwe ibirahure mu madirishya no mu nzugi, zisakajwe amabati y'umutuku imbere yaho hari parikingi nini irimo imodoka zitandukanye, hirya yaho hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bari kubaganiriza bacecetse, batuje, bateze amatwi, abantu babari imbere, bafite indangururamajwi mu ntoki, bari kubagezaho ibiganiro, kugira ngo babagire inama kandi ufite ikibazo abe yabaza cyangwa inyunganizi ayitange.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitondekanyije ku murongo, ibyo bitanda bikaba byifashishwa babiryamishaho abarwayi mu gihe bibaye ngombwa ko babashyira mu bitaro badashoboye kuba bataha kugira ngo abaganga babakurikirane bari hafi yabo, babashe kubavura mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Abantu bateraniye mu cyumba hari abaganga bari kuvura abarwayi bareba uko bameze kugira ngo bakomeze kubitaho babahe urukingo, babarinda gukwirakwiza indwara kandi babafasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wabo.

Abantu bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, bose bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko ari mu gihe cya covid-19, kugira ngo birinde kuba bakanduzanya kandi bakumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura umurwayi mu gihe afite ibibazo yaje kwivuza, harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma umurwayi mo imbere mu mubiri ari byo bita kumucisha mu cyuma kugira ngo barebe uburwayi afite bamenye uko bamukurikirana n'uko bamwitaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda hakaba haryamyeho umuntu urwaye, imbere ye hahagaze umuganga uri kumwitaho amukurikirana kandi impande ye hateretse imashini ziri kumufasha kugira ngo abone ubuvuzi bugezweho.

Icyumba cyo kwa muganga cyubakishije amakaro hasi, ku nkuta hateye amarangi y'umweru harimo ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho, harimo intebe zo kwicaraho mu gihe umurwayi bari kumuvura, harimo n'imashini zifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku murwayi babashe kumuha ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga giteguwe neza, kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, harimo intebe umurwayi yicaraho mu gihe bari kumwitaho, muri icyo cyumba ku nkuta zacyo hateye amarangi y'umweru no hasi hubakishije amakaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura abarwayi kugira ngo babiteho babakurikirane, babashe kubona ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe mu gihe kitarambiranye, bakaba babasuzuma imbere mu mubiri bakareba uburwayi bafite, bakaba babona ibisubizo bakamenya uko babakurikirana n'uko babitaho mu buryo bwizewe.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'umukara, imbere ye hateretse mudasobwa irimo amashusho y'imbavu zafotowe hifashishijwe imashini igezweho, bakoresha mu gufotora imbere mu bice by'umubiri w'umuntu kugira ngo bamusuzume, barebe uburwayi afite, babashe kumenya uko bamwitaho.

Ahantu hari gutangirwa serivisi zo gutanga amaraso kugira ngo babashe gufasha, ari igikorwa gikorwa n'ikigo cy'Igihugu cy'ubuzima gishinzwe gufata amaraso kugira ngo bazayakoreshe mu gihe hazaba hari umurwayi wagize ikibazo cyo kubura amaraso menshi bakaba bayamwongerera bakamufasha akabasha kuba yakira.

Inyubako zubakishijwe n'amatafari ahiye, zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cyatabagwe, kugira ngo cyakire abaturage baturiye aho hafi, babashe kubona ubuvuzi mu buryo buboroheye kandi hafi yabo.

Inyubako zubatse neza, zifite isuku zigeretse ziteye amarangi y'umweru n'ikigina, zisakaje amabati atukura, impande y'izo nyubako hakaba hari ubusitani bunini buteyemo ibyatsi harimo n'indabyo, impande y'izo ndabyo hakaba harimo akayira kubakishijwe amapave, aho abantu bagenda b'abanyamaguru

Inyubako ifite isuku, isa neza harimo icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kwita ku barwayi kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bwizewe kandi hafi yabo, bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho.

Inyubako ikorerwamo na farumasi yitwa good life, icuruza imiti y'abantu kugira ngo umurwayi wayandikiwe na muganga cyangwa ufite ikindi kibazo, abashe kuba yabona imiti mu buryo bumworoheye kandi bumwegereye mu buryo bwizewe.

Ahantu hari inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'izo nyubako hari abantu birashi bigaragara ko bagiye kwivuza, imbere yabo hari parikingi nini irimo amapave iparitsemo imodoka, hirya yabo aha na jalide irimo indabo nziza kugira ngo hakomeze kuba hasa neza.

Inyubako nini yahuriweho n'abantu benshi baje gushaka serivisi z'ubuzima, harimo abaje kwivuza bafite ibibazo bitandukanye, bakeneye ko abaganga babitaho ngo babafashe babakurikirane, babashe kuba babavura, ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cyiza kigezweho harimo n'intebe zo kwicaraho, hakabamo n'imashini zifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi kugira ngo bakomeze kumukurikirana ubuzima bwe bukomeze kuba bumeze neza kandi bamuhe ubuvuzi bwizewe mu gihe nyacyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gukurikirana umurwayi kugira ngo mu gihe ari kwivuza abe atekanye, harimo igitanda baryamishaho umurwayi mu gihe bari kumukurikirana bamwitaho, harimo n'imashini zifashishwa kugira ngo bamuhe ubuvuzi bugezweho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho, harimo imashini bakoresha basuzuma umurwayi imbere mu mubiri kugira ngo bamenye uburwayi afite, babashe kuba bamwitaho bitewe n'ibisubizo babonye, ari byo byitwa kumucisha mu cyuma.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku, harimo abaganga batatu, bari gusuzuma bafata ibizamini bafashe abarwayi kugira ngo barebe indwara zaba zirimo bamenye ibisubizo ubundi bafashe abarwayi baje babagana, bagendeye ku bisubizo babonye kugira ngo babiteho, babahe ubuvuzi.

Icyumba kinini cyagenewe gukorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, tapi zo kwirukankiraho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo babashe kuba babikoresha.

Icyumba kirimo abaganga benshi bari kwita ku barwayi baje babagana, iruhande rwabo hari umukecuru wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, imbere ye hahagaze muganga uri kumwitaho, amuvura, amukurikirana kugira ngo akomeze kumufasha ubuzima bwe bukomeze kuba bumeze neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda baryamishaho umurwayi mu gihe ari mu bitaro kugira ngo abaganga bamukurikirane bamwiteho ari hafi yabo kandi atekanye, igitanda kikaba kiryamyeho umugore urwaye, imbere ye hahagaze umuganga uri kumwitaho kugira ngo akurikirane ubuzima bwe.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, ni ukuvuga ngo iyo nyubako ikorerwamo na farumasi icuruza imiti y'abantu, kugira ngo umurwayi ukeneye imiti yandikiwe na muganga abashe kuba yayibona hafi ye ku buryo bumworoheye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya arimo ibirahure. Ayo amadirishya akaba ateye irangi ry'umweru. Hejuru y'ayo madirishya hakaba handitseho amagambo y'Ikinyarwanda ngo isange one stop center aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza aho bakiriye abarwayi, hari intebe n'imeza iriho ururabo, iyo ntebe yicayeho umugabo wambaye ipantaro ya kake, n'umupira w'ubururu n'ingofero y'umukara, imbere hari ahantu bakirira abarwayi hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu imbere hari umuganga uri kubakira kugira ngo babafashe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho, harimo imashini yifashishwa mu gupima umurwayi bamusuzuma imbere mu mubiri kugira ngo barebe ikibazo afite aribyo bita gucisha umuntu mu cyuma.

Ahantu bacururiza imiti ubwo ni muri farumasi kugira ngo abaturage babashe kuyibona hafi yabo, ku buryo buboroheye mu gihe hari umurwayi muganga ayandikiye, akaba yabasha kujya kuyigura hafi ye bitamusabye kuba yarembera mu rugo cyangwa ngo asiragire.

Abakobwa bahagaze ari batatu bambaye amashati y'ubururu n'ingofero z'ubururu mu mutwe, bigaragara ko ari abakobwa bakora kwa muganga kugira ngo bite ku barwayi baje bagana ibitaro babafashe mu buzima bwabo mu gihe bari kwa muganga babashe kubakurikirana kugira ngo umurwayi ahabe yisanzuye kandi afite abamwitaho.

Inyubako nini y'umweru isize amarangi y'umweru, impande yayo hakaba hari n'indi nyubako yubakishije amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, imbere ku rubaraza rw'iyo nyubako iteye irangi ry'umweru, hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Inyubako nini ifite amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya ateye amarangi y'umweru, imbere y'iyo nyubako hari parikingi nini iparitsemo imodoka zitandukanye kandi kuri iyo nyubako imbere yaho hamanitseho icyapa hejuru y'inyubako kiriho ikirango cya RBC, Ikigo k'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima bw'abaturage.

Ikigo kinini kirimo inyubako zisa neza, ari ku mugoroba amatara arimo yaka, izo nyubako ziteye amarangi y'umweru zisakaje amabati y'umutuku, kuri izo nyubako hari abantu bahahagaze ubona ko hari urujya n'uruza, hagati y'izo nyubako harimo jaride iteyemo ibyatsi bisa neza.

Inyubako ziteye amarangi y'umweru, zisakajwe amabati y'umutuku, inyubako zigeretse za etaje, imbere yazo hari parikingi nini iparitsemo imodoka, imbere y'izo modoka hakaba hari icyapa kitwereka ko ari ku bitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye.

Inyubako nini igeretse inshuro eshatu yubakishijwe ibirahure mu madirishya no mu nzugi, imbere yayo hasi hari parikingi nini irimo imodoka zigiye zitandukanye, iyo parikingi yubakishijwe amapave.

Inyubako iteye amarangi y'umweru iriho icyapa cyanditseho gikorerwamo na farumasi yitwa Iraguha ikaba icuruza imiti y'abantu kugira ngo abaturage cyangwa umuntu urwaye wandikiwe umuti na muganga abashe kuwubona ku buryo bwizewe kandi hafi ye bitamuhenze.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo isuku, kikaba kirimo ibitanda, hariho igitanda umurwayi aryamaho mu gihe abaganga bari kumwitaho, bamukurikirana, bamuvura kugira ngo bamufashe ahantu bamuvurira abe yisanzuye kandi atekanye, harimo n'imashini zifashishwa n'abaganga kugira ngo bamuhe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kinini, kirimo ibitanda bijyiye bitandukanyijwe n'ibitambaro birimo hagati, ibyo bitanda bikaba bishashaho amashuka y'icyatsi kibisi, ibitanda abarwayi baryamaho mu gihe bibaye ngombwa ko bajya mu bitaro, mu gihe abaganga bari kubitaho babakurikirana bari hafi yabo.

Umuganga wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, mu gihe umurwayi yaje abagana hariho igitanda cyo kwicaraho, kugira ngo abashe gufasha umurwayi neza yisanzuye, aho harimo n'imashini zikoreshwa.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite amadirisha n'inzugi birimo ibirahure bibonerana biteye irangi ry'umweru ku mpande. Imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani bunini burimo ibyatsi ndetse n'indabyo z'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura abarwayi mu gihe bafite ibibazo by'amaso kugira ngo babiteho babakurikirane, mu buryo bworoshye kandi bwizewe, babashe kubona ubuvuzi bugezweho, mu gihe kitarambiranye.

Ni umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga urwaye, icyo gitanda aryamyeho gishasheho amashuka y'umweru, umugabo yambaye na we umupira w'umweru, yazamuye igipfunsi ubona yishimiye serivisi bari kumuha ko bari kumwitaho neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho kugira ngo babashe gufasha abarwayi baje babagana kubona ubuvuzi bwihuse bitabasabye kuba barembera kwa muganga.

Inyubako ifite isuku, ikorerwamo n'ibitaro kugira ngo bite ku barwayi baje babagana, babashe kubakira bafite umutekano kandi bisanzuye kugira ngo babashe kubavura mu buryo bwihuse kandi bunoze.

Inyubako nini irimo ibikoresho byagenewe gukorerwamo siporo, harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga, na tapi zo kwirukankiraho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo ibyo byuma byose bifashe umuntu uri gukora siporo muri iyo nyubako, kuba yazikora neza zikaba zamugirira umumaro kandi zikamufasha.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zisakaje amabati yubururu bwacuye, izo nyubako zikaba zifite icyapa kigaragaza ko aho hantu hatangirwa ubuvuzi bw'amaso, kugira ngo uhaje wese amenye serivisi aje gushaka mu buryo bumworoheye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu kuvura umurwayi bamwitaho, hakaba harimo imashini igezweho, bakoresha mu gihe bari gusuzuma umurwayi, bamupima ngo barebe ikibazo afite imbere mu mubiri, aribyo bita kumucisha mu cyuma.

Inyubako nini ya etaje igeretse, imbere y'iyo nyubako hakaba hari amadarapo afite amabara atandukanye harimo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hejuru kuri iyo nyubako hakaba handitse amagambo atwereka ko ari ku bitaro bya Faisal Kigali, byifashishwa mu kwakira abaturage kugira ngo babahe ubuvuzi bugezweho.

Umuganga uri mu cyumba kiryamyemo umurwayi ku gitanda, ari kumufata amusuzuma akaboko kugira ngo yumve uko umurwayi ameze abashe gukomeza kumwitaho, amenye ubuvuzi amuha, nuko akomeza kumukurikirana, bitewe n'ibisubizo ari bubone nyuma yo kumusuzuma.

Inyubako irimo icyumba kinini cyagenewe gukorerwamo siporo, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga, harimo n'intebe umuntu yicaraho mu gihe ari guterura ibyuma kugira ngo abe yisanzuye ,kandi ku buryo bitamugiraho ingaruka kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe.

Inyubako igeretse ya etaje iteye amarangi y'umweru inyuma hanze yubakishijwe n'ibirahuri ku madirishya, isakajwe amabati y'umukara, imbere hariho icyapa cyanditse mu rurimi rw'icyongereza Medical Research Institute ubwo ni ukuvuga ngo ikigo bakoreramo ubushakashatsi.

Inyubako ifite icyumba gisa neza, gikorewe isuku, inyubako ikaba yaragenewe gukorerwamo n'ibitaro, ubu icyo cyumba bakaba baragiteguriye kujya gihurirwamo n'abaganga, kugira ngo baganire, ku buryo bwo kwita ku barwayi, no kubafasha mu buryo bwiza.

Umwana w'umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi kibisi, uhagararanye n'umuganga, uwo mwana afite igikanka cy'amenyo mu ntoki ze, inyuma ye hahagaze abandi bantu, umuganga akaba ari gufasha uwo mwana amwereka uko basukura amenyo bakoresheje uburoso bwagenewe koza amenyo mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda, cyifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, harimo n'imashini zigezweho, zikoreshwa mu kwita ku murwayi, kugira ngo bamuhe ubuvuzi bwiza, kandi bwizewe.

Ibitaro bya kabgayi byifashishwa n'abaturage kugira bajye kuhivuza, babashe kubona ubuvuzi butandukanye mu gihe barwaye, harimo kwivuza amaso, ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishashe neza, bigiye bitonze ku murongo, aho abarwayi baryama mu gihe bari mu bitaro, kugira ngo abaganga bakomeze kubitaho bameze neza batekanye, ahantu bari hari umutekano kandi bisanzuye mu buryo bwizewe.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bigiye bitondekanyije kumurongo kandi kuri buri gitanda hagiye hamanitse inzitiramibu kugira ngo umurwayi mu gihe ari mu bitaro abone ahantu ho kuryama, kandi hatekanye yisanzuye kugira ngo abaganga babone uko bakomeza kumukurikirana, bamwitaho mu buryo bwizewe.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ibyo bitanda bikaba byifashishwa mu kuryamishaho abarwayi mu gihe bari mu bitaro kugira ngo abaganga babashe kubakurikirana bari ahantu hatekanye kandi hizewe, mu buryo bwuzuye.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bahagaze mu byatsi, imbere yabo hagati begamiye ku cyapa cyanditseho amagambo atwereka ko aho hantu bari kwifotoreza ari ku bitaro bya Butaro.

Icyumba gisa neza kirimo isuku, gifite inkuta ziteye amarangi y'umweru hasi cyubakishijwe amakaro, icyo cyumba kikaba kirimo igitanda, harimo n'imashini zigezweho zifashishwa mu kuvura umurwayi kugira ngo bamukurikirane kandi bamwiteho mu buryo bwizewe kandi bugezweho.

Icyumba giteguye neza kirimo ibikoresho bisa neza; ubona ko kirimo isuku harimo agatanda gatoya baryamishaho abana mu gihe baba bagiye kwa muganga kwivuza. Hejuru y'ako gatanda hari televiziyo yifashishwa mu kuba barangaza umwana akaba yakishima mu gihe bari kumwitaho.

Inyubako nini ya etaje igeretse, yageneye no gukorerwamo ibitaro byigenga. Kugira ngo byakire abaturage bafite ibibazo by'uburwayi babashe kubona ubuvuzi bwihuse kandi bugezweho, bitabasabye gusiragira abajya gushaka ahantu ho kwivuza kure.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'uturindantoki mu ntoki tw'ubururu, ufite icupa ry'ikigina mu ntoki, ririmo umuti imbere ye hari imashini ari ku zikandamo, kugirango abone ibisubizo abe yakita ku barwayi baje bamugana.

Inyubako zubakishijwe amatafari y'umuhondo, zifite inzugi z'ibirahure n'amadirishya y'ibirahure ateye irangi ry'umweru, imbere y'iyo nyubako ku rubaraza hicaye abantu benshi, baje gushaka serivisi yo kwivuza kugira ngo abaganga babiteho babashe kubafasha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga kugira ngo umuntu akomeze kwita ku buzima bwe akaba yabikoresha akora siporo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kuba bumeze neza kandi umubiri we ufite imbaraga zihagije.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku murwayi mu gihe ari kwa muganga, harimo igitanda cyo kuryamaho n'imashini zikoreshwa kugira ngo babashe guha umurwayi ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, muri icyo cyumba hari kugendamo umuganga wambaye agapfukamunwa.

Umugabo uri gukora siporo wicaye mu byatsi, wambaye isengeri y'umukara, n'ikabutura y'umukara ari kwigorora, kugira ngo akore siporo, kuko siporo ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, kandi zikaba zifite akamaro kanini kumubiri we kugira ngo ube ufite imbaraga kandi ukora neza.

Umugore uhagaze uri muri siporo wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'icyatsi kibisi, yambaye n'inkweto zifunze zirimo amabara y'umweru, umukara, n'umuhondo, n'umutuku, ari gukora siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeze ukora neza kandi ufite imbaraga.

Umugore uri gukora siporo, wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'umweru, ari ahantu mu nzu ,yarambuyeho tapi hasi ku makaro, ari kwigorora, yinanura kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, kuko siporo ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu, bikamufasha kuba umeze neza.

Umuntu wicaye ku gitanda, wambaye umupira w'amaboko maremare, wambaye n'ikabutura, afite igikomere mu ivi, bagipfukishije igipfuka cy'umweru kugira ngo bakirinde kuba hagira ibindi bibazo bizamo, kandi abashe kuba yakira neza mu buryo bwihuse kandi bwizewe bitarambiranye.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi igihe umuntu ari muri siporo akaba yagira ikibazo agakomereka, cyangwa agakora impanuka muri siporo akavunika, bakaba babyifashisha bamuvura mu gihe ataragezwa kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, byifashisha mu kuvura umurwayi kugira ngo abashe kubona ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe cyihuse kitarambiranye kandi gitoya, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi imbere mu mubiri, aribyo bita kumunyuza mu cyuma.

Agasanduka gafite ibara ry'icyatsi kibisi, karimo imiti itandukanye n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mu gihe abantu bari muri siporo, aramutse agize ikibazo cy'imvune cyangwa agakomereka, bakaba bamufasha mbere yuko agezwa kwa muganga.

Ikirango cy'umuryango wa croix rouge kiba gifite ibara ry'umweru rizengurutse, hagati muri iryo bara harimo umusaraba ushushanyije mu ibara ry'umutuku, uyu muryango ukaba utanga ubutabazi bw'ibanze ahantu haba hagize ikibazo bakaba bakita ku muntu ugize ikibazo mbere yuko agezwa kwa muganga.

Umugabo wicaye ku ntebe yagenewe gukorerwamo siporo, ari kumenyereza ukuguru kwe kumaze igihe kurwaye, kugira ngo kubabashe kuba kwagarura imbaraga, imbere ye hahagaze umuganga uri kumufasha, amwerekera uko bakora siporo kugira ngo akomeze amufashe ubuzima bwe bwongere gusubira ku murongo.

Abantu babiri bahagaze ku kibuga gikorerwaho sport. Harimo umuntu umwe wambaye imyenda ya siporo y'umweru n'isura yayo yifunze. Imbere ye hari umuganga uri kumwitaho amufasha amwambika ibikoresho byifashishwa kugira ngo bize kumurinda mu gihe yakora impanuka akaba atakangirika cyangwa abe yavunika.

Umuganga uhagaze imbere ye ku gitanda haryamye umurwayi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari kumufasha yafashe ukuguru kumwe kwe yakuzamuye ari kukugorora kugira ngo amufashe mu gihe yaba yavunitse, amagufwa ye ayagorore neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza harimo ibyifashishwa muri siporo, ndetse n'ibikoresho byifashishwa bapima umuntu, harimo n'imbuto zo kurya kugira ngo umuntu igihe ari muri siporo abashe kubona intungamubiri zihagije kandi harimo n'amazi yo kunywa.

Umuntu wicaye wambaye imyenda ya siporo, yateze ibiganza bari kumushyiramo ibitambaro mu ntoki, kugira ngo barinde umubiri we ko wakangirika bitewe na siporo yagiye gukora, ku buryo zishobora kumwangiza ku biganza mu buryo butandukanye, akaba yakirinda mbere y'uko ibyo byamubaho byose.

Umugabo uri gukora siporo wambaye ipantaro y'umukara arimo amabara y'umweru, wambaye n'isengeri yambaye n'inkweto zifunze z'umweru ufite ekuteri mu matwi, ari kugorora ingingo ze kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ube umeze neza kandi ufite imbaraga.

Imashini yifashishwa no kwa muganga kugira ngo bahe abarwayi ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, bakayikoresha babapima kugira ngo barebe umuriro uko uhagaze kandi barebe umuvuduko w'amaraso wabo uko uri kugenda, bamenye uburyo babafasha n'uko babitaho.

Gukora siporo bihoraho, bigira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu, harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo: Kuba bigufasha gutwika ibinure, bigatuma umuvuduko w'amaraso ujya ku murongo, bikagabanya siteresi, bikongera uburinganire bw'umubiri ndetse bikanagufasha no mu igogora ry'ibiryo.

Imeza iteretseho igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma amaraso no gufata ibizamini by'umurwayi kugira ngo bapime barebe udukoko twaba turi mu maraso ye cyangwa mu bindi bizamini bamufashe kugira ngo babashe kuba bamenya indwara afite, bamenye imiti bamuha n'uko bamwitaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda abarwayi baryamaho mu gihe bari kwivuza, bikaba ngombwa ko babashyira mu bitaro badashoboye kuba bataha kugira ngo abaganga babakurikirane bari hafi yabo kandi abo barwayi batekanye, bafite aho kuryama hasa neza kandi hasukuye.

Umugabo uri gukora siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe kuko siporo ari ingenzi kandi ikaba igira umumaro munini ku buzima bw'umuntu kuko ifite akamaro kanini, ikaba ifite ibyo ifasha umubiri harimo gutwika ibinure, kugabanya stress, gutuma umubiri uba umeze neza ndetse igafasha n'umuntu mu igogora.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga, kugira ngo abantu babyifashishe bari gukora siporo kuko siporo ari ingenzi ku buzima bw'umuntu kandi ikaba ifite akamaro kanini, kugira ngo umuntu akomeze kuba ameze neza, umubiri we ufite imbaraga.

Umugabo wicaye afite ipamba mu ntoki ry'ubururu, ari kurikandisha mu nkokora ahantu yagize ikibazo cy'imvune, kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, yirinde kuba yabyimbirwa kandi umubiri we ukomeza kuba umeze neza, aharinde aho hantu ko hagira ikindi kibazo cyaturuka kuba hatitaweho.

Umugabo uhagaze uri muri siporo wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, ufite amazi mu ntoki arimo ayimenaho mu maso, kugira ngo ahoze umubiri we mu gihe wari umaze gushyuha ari muri siporo, wongere ugarure imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo ameze neza.

Amacupa y'umweru arimo umuti wifashishwa mu gihe umuntu yaba ari muri siporo agize ikibazo akavunika cyangwa gakomereka umuti bakaba bawukoresha bawushyira aho yagize ikibazo kugira ngo bamugabanyirize uburibwe abashe gukira vuba kandi bamurinde ko ahantu yagize ikibazo hakomeza kwangirika.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza, harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, harimo imbuto zo kurya ndetse n'amazi yo kunywa, kuko amazi ari ingirakamaro kandi akaba afite uruhare runini mu gukora k'umubiri w'umuntu.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo umuntu akore siporo, harimo ibyuma byo guterura, harimo amagare yo kunyonga, na tapi zo kwirukankiraho zikoresha umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo umuntu ibyo byose bimufashe gukora siporo, kuko siporo ari ingenzi kandi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Umugore uhagaze ahantu ku mazi, uri gukora siporo, wambaye isengeri, ufite imisatsi miremire, ari kunywa amazi kugira ngo yongerere umubiri we amazi ahagije yo gukoresha, awurinde kuba wakumagara, kandi ube ufite imbaraga zihagije mu gihe ari gukora siporo.

Umuntu wicaye ku gitanda wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara yambaye n'inkweto zifunze, yakuyemo urukweto rumwe ikirenge imbere ye hahagaze umuganga ari kumufasha amuzirikiraho bande kugira ngo amwiteho ahantu yavunitse hareke kuba hakomeza kubyimbirwa kandi igufa ribashe kuba ryasubirana vuba mu buryo bwizewe.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara, ari kugendera ku twuma tumufasha kumenyereza amaguruye, kugira ngo abashe kuba yabasha kwigenza mu gihe yari amaze igihe atayakoresha.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza, harimo imipira yo gukina kugira ngo umuntu imufashe ari gukora siporo, hakaba hari n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, byifashisha basuzuma umuntu kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Abaganga bateraniye mu cyumba cyo kwa muganga, bambaye ibikote birebire by'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa, bambaye n'ingofero z'ubururu mu mutwe, ahantu bari kuvura umurwayi bamubaga kugira ngo babashe kumukorera operation, bamukurikirane ubuzima bwe bwongere gusubira ku murongo neza.

Abantu bari muri siporo birukana bambaye imyenda ya siporo amakabutura n'inkweto zifunze bari gusiganwa kugira ngo barebe urusha abandi umuvuduko kandi ubarusha kubasiga ari buhabwe ibihembo bigendewe n'ibyo bateganyije.

Agasanduku k'umweru karimo imiti yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu ari muri siporo, agize ikibazo, akomeretse cyangwa avunitse kugira ngo babashe kumufasha mbere yuko agezwa kwa muganga, bamwiteho kugira ngo abashe kuba yakira vuba.

Umuntu uryamye ku gitanda, yambaye ikabutura, yarambuye ukuguru kumwe, bagutezaho isume munsi y'ivi, mu ntege, ukundi kuguru yaguhinnye, imbere ye hahagaze umuganga, ufite igitambaro cy'ubururu mu ntoki, ari kumukandira mu ivi, ahantu yakomeretse cya yagize ikibazo kugira ngo hareke kubyimbirwa, kandi habashe kuba hakira vuba.

Umugabo uhagaze mu muhanda ari gukora siporo, wambaye ikabutura y'umukara n'isaha ku kuboko, akaba yunamye ari gukanda mu ivi agizemo ikibazo kugira ngo igufwa rye ryo mu ivi abashe kurisubiza ku murongo kandi agabanye uburibwe ari kumva.

Umugore wicaye uteruye umwana mu ntoki, imbere ye hicaye umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa afite igikoresho umuntu ntoki cyifashishwa mu gusuzuma, ari kumurika uwo umwana mu maso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze we abashe kuba yamenya uko amufasha.

Umuntu uri gusuka amazi mu kirahure kugira ngo ayakoreshe ayanywa kuko ubona ko ari amazi meza asukuye abashe kwita ku buzima bwe kuko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, kandi akaba afashe igice kinini mu mubiri w'umuntu, akaba ayakenera cyane.

Umuntu ufite icupa ry'amazi mu kiganza cye, rifite umufuniko w'ubururu, harimo amazi meza asukuye yo kunyobwa, kugira ngo umuntu akomeze kwita ku buzima bwe kuko amazi ari ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ipantaro y',umukara, afite umupira mu ntoki wo gukina, mu gihe umuntu ari muri siporo akawukoresha akina imikino itandukanye, harimo umukino w'amaboko bita Volley.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, mu gihe umuntu ari muri siporo akaba yagira ikibazo agakomereka cyangwa akavunika, bakaba bamufashe mu buryo bworoshye mbere y'uko agezwa kwa muganga kugira ngo bakomeze bamukurikirane bamwiteho ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'icyatsi kibisi n'inkweto zifunze z'umukara. Imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu arikumufasha kumugorora imikaya kugira ngo umubiri we wongere gusubirana kandi ugororoke amaraso atembere mu mubiri neza.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite icupa ry'amazi mu ntoki rifite ibara ry'ubururu, ari kunywa amazi kugira ngo umubiri we ubone amazi ahagije yo gukoresha, abashe kuba yakomeza gukora siporo umubiri we ufite imbaraga kandi uri gukora neza.

Umugore uhagaze uri gukora siporo, wambaye isengeri y'cyatsi kibisi cyerurutse, ari kugorora amaboko ye, ari kugirango ngo yite ku buzima bwe,n' umubiri we ukomeze gukora neza kandi ufite imbaraga.

Umugore uhagaze uri muri siporo, ari kwita ku mubiri we, wambaye isengeri ya oranje, n'isaha ku kuboko, wambaye wambaye na ekuteri mu mumatwi, ari kwita ku buzima bwe kugira ngo umubiri we ukomeze umeze neza, kandi ufite imbaraga.

Umuntu wicaye ku gitanda yagize ikibazo yavunitse mu kirenge, imbere ye hari umuganga uri kumufasha kumwitaho, ari kumuzirikira bande aho yavunitse kugira ngo igufwa ribashe kuba ryasubirana kandi hakire vuba, bimurinde no kuba habyimbirwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, umubiri wabo ube umeze neza, kandi ufite imbaraga, ndetse bagirane n'inama kandi bafashanye mu gukora siporo, kugira ngo bose bibongerere kuba bafite ubuzima bwiza.

Umugore wicaye w'umuganga, afite igikoresho cyagenewe gufasha abarwayi mu gihe abaganga bari kucyifashisha bita ku murwayi waje ubasanga, imbere y'uwo muganga hicaye umwana mutoya ari kumumurika mu maso kugira ngo amusuzume arebe ikibazo afite abashe kuba yamukurikirana amuhe ubuvuzi akeneye.

Umuntu wicaye ku gitanda, gishasheho amashuka y'umweru, wambaye ipantaro, ukuguru kumwe kurambuye ukundi yaguhinnye, yazamuye ipantaro igice kimwe ku kuguru, afite igitambaro cy'ubururu mu ntoki, ari gukanda mu kuguru ahantu yagize imvune, kugira ngo aharinde kuba hakomeza kumurya, kandi aharinde kuba habyimba.

Umugore uri muri siporo yicaye ahantu hasi wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze z'umutuku n'insengeri y'umutuku, ari kwinanura akora siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe bukomeze kuba bumeze neza, kandi umubiri we ufite imbaraga zihagije.

Ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo akaba yagira impanuka, akaba yavunika ukuguru, bakaba babyifashisha babihambira ku kuguru kugira ngo amagufwa abe yasubirane neza umuntu abashe kuba yakongera akigenza nta kibazo agize mu kuguru, bikaba byamufasha no kukugorora.

Imeza iteretseho ibintu bitandukanye umuntu agomba kwifashisha kugira ngo agire ubuzima bwiza, harimo ibikoresho umuntu akoresha ari gukora siporo, harimo amafunguro yo gufata kugira ngo umuntu uri gukora siporo afate ifunguro ryuzuye.

Abagabo batatu bahagaze, umwe ahagaze ku rwego undi amuri imbere afite ikintu cy'umutuku mu ntoki, ari kumufasha bari gukora ahantu ku nyubako yagenewe gukorerwamo n'ibitaro kugira ngo yakire abaturage, babashe kubona ubuvuzi hafi yabo.

Abantu babiri bahagaze mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, harimo umusaza wambaye umupira w'umukara, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyenda y'ubururu ari kumufasha amwerekera uko bakora siporo kugira ngo yimenyereze, umubiri wongere ugarure imbaraga, abashe kuba yakikoresha siporo wenyine.

Icupa ririmo amazi yo kunywa atunganyijwe neza agafungirwa mu icupa rya palasitike kugira ngo abantu babashe kuyakoresha mu gihe bari kugenda cyangwa bari muri siporo kuko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, kandi afite igice kinini mu mubiri w'umuntu akaba ari meza.

Umugabo uhagaze uri muri siporo wambaye umupira w'ubururu, uri kunywa amazi ayanywera mu icupa ribonera rya parasitike, kugira ngo umubiri we ubashe kubona amazi ahagije, awurinde kuba wakumagara, kandi ubona imbaraga zihagije zo kuba yakomeza gukora siporo.

Umugabo wari uri muri siporo wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, akaba yicaye hasi mu byatsi imbwa zimufashe mu itako, akaba ari kuhakanda kugira ngo arebe ko zamurekura abashe kuba yakomeza gukora siporo ubuzima bwe bumeze neza.

Umugore uri mu cyumba wicaye hasi ari muri siporo ari kugorora umubiri we, umugore wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe umubiri we ugume umeze neza kandi ufite imbaraga.

Umuntu wicaye afite ipamba mu ntoki ry'ubururu rizingiye mu ishashi, bifashisha bakanda ahantu hagize ikibazo, havunitse cyangwa yakomeretse, kugira ngo uburibwe burimo bubashe kuba bwagabanuka, kandi aharinde kuba hakangirika bitewe nuko atahitayeho.

Icyumba cyicayemo abaganga, bateze amatwi umuganga ubari imbere ari kubafasha abasobanurira ibikoresho uko bikora yifashishije amashusho kugira ngo bose babashe gusobanukirwa, ufite ikibazo abe yakibaza cyangwa utanga inama n'inyunganizi babe bamwumva.

Umugore uri gukorera siporo ahantu habugenewe, wambaye ikabutura y' umukara n'isengeri y'icyatsi kibisi, n'inkweto zifunze, ari gusunika icyuma giteretse hasi kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira w'umukara, wambaye n'isaha y'umukara ku kuboko, ufite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kuyanywa kugira ngo umubiri we ubone amazi meza, kandi amazi ahagije yo gukoresha, abashe kurinda umubiri we kuba wagira ikibazo cy'umwuma kandi ugume ukora neza.

Umugabo uri mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo, ari gukora siporo wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara n'inkweto zifunze, ari guterura ibyuma abifite mu ntoki impande hahagaze umuntu uri kumwerekera uko akora siporo kugira ngo abashe kuzikora neza.

Umugabo wicaye hasi wari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugorora umubiri we kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeze ukora neza kandi ufite imbaraga zihagije zo kuba yakiyitaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuntu uhagaze mu mbago zifashishwa kugira ngo umuntu abashe kumenyereza amaguruye mu gihe amaze igihe atagenda arwaye, imbereye hicaye umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kumufasha amwitaho kugira ngo ubuzima bwe bwongere gusubira ku murongo, umubiri we wongere kugira imbaraga zihagije.

Akagare k'abantu bafite ubumuga kifashishwa mu gihe umuntu afite ikibazo adashobora kwigenza, akaba yagakoresha ava ahantu hamwe ajya ahandi akicayemo kugira ngo bimworoheze urugendo, n'abantu bafite ubumuga babashe kuba bagenda bakaba bava ahantu hamwe bakajya ahandi mu buryo bworoshye kandi bwizewe bifite umutekano.

Umugore wicaye hasi mu muhanda, wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara, wambaye n'inkweto zifunze z'umweru ari gukora siporo, ufite terefone ku kuboko yambaye na ekuteri mu matwi kugira ngo akore siporo afite imbaraga kandi yishimye kugira ngo akomeze kubungabunga ubuzima bwe, abwiteho bube bumeze neza.

Agatanda kifashishwa mu kuba batwara umurwayi mugihe afite ikibazo adashobora kuba yagendesha amaguru ye ngo yivane ahantu hamwe abashe kuba yakigeza ahandi bakaba bakamuryamishaho umuntu umwe agahagarara imbere undi agahagarara inyuma ubundi bakamuterura bakamujyana.

Umugore wicaye uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'insengeri y'umukara, yarambuye tapi hasi ayicayeho, imbere ye hateretse mashini ari kuyireberamo uburyo bumufasha gukora siporo kugira ngo bimuyobore. Impande ye hateretse udukoresho tw'utwuma twifashisha mu gihe umuntu ari gukora siporo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mikino ngororamubiri igiye itandukanye, harimo imipira yo gukina ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abakinnyi kugira ngo birinde impanuka bahurira na zo mu kibuga mu gihe bari gukina.

Agasanduku gafite ibara ry'icyatsi kibisi karimo ibikoresho n'imiti byifashishwa mu gihe abantu bari muri siporo ku buryo haramutse hagize ugize ikibazo agakomereka cyangwa akavunika akaba yahabwa ubutabazi bw'ibanze agafashwa, mbere yuko agezwa kwa muganga.

Umugore uhagaze, uri muri siporo, wambaye agasengeri k'ikigina, ufite telefoni ku kuboko, wambaye kuteri mu matwi, wambaye n'isaha ku kuboko, ari kwigorora, akora siporo kugira ngo akomeze yite ku buzima bwe, umubiri we ukomeze umeze neza kandi ukorara neza, ufite imbaraga zihagije.

Umugabo uhagaze uri muri siporo, ari mu nzu yagenewe gukorerwamo siporo, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umukara, ari gukora siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeze ukore neza kandi ufite imbaraga zihagije.

Umugabo uhagaze uri muri siporo, wambaye umupira w'umukara, ufite icupa ry'amazi mu ntoki, araramye, ari kunywa ayo amazi andi akayimena mu maso kugira ngo umubiri we ubashe kugarura imbaraga, abe yakomeza gukora siporo ameze neza.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umukara cyifashishwa mu kugira ngo umuntu mu gihe ari muri siporo abe yagikoresha mu kurinda ivi rye, ryaba ryangiritse cyangwa ryakomeretse kugira ngo aririnde kuba ryakomeza kwangirika kurushaho, ahubwo aririnde ribashe kuba ryakira vuba risubirane mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Ahantu hateretse imiti n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, aramutse agize ikibazo akavunika cyangwa agakomereka, akaba yabyifashisha mu kwivura mu gihe bidakomeye cyane cyangwa akaba yabikoresha mbere y'uko agezwa kwa muganga ngo bamwiteho, bamuhe ubuvuzi buri hejuru y'ubwo yari yihaye.

Udukarito dufite ibara ry'umweru n'iry'ubururu hariho n'ururabo rw'umuhondo, ako gakarito kakaba karimo imiti yizewe kandi yatunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, ikaba yavura indwara zitandukanye.

Agakarito gafite ibara ry'umweru n'iry'umutuku hariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, ako gakarito kakaba karimo imiti yatunganyijwe neza kandi yizewe ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Imeza iteretseho amacupa abiri y'umuhondo, rimwe rifite umufuniko w'umuhondo, irindi rifite umufuniko w'ikigina, harimo imiti yateguwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye, kuko yujuje ubuziranenge kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Ahantu mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imboga, harimo imbuto, harimo n'umugabo uhagaze ucuruza imiti iri mu gacupa, yatunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo iyo miti ikoreshwe ivura indwara zitandukanye, kuko yujuje ubuziranenge kandi ikaba yemewe nta ngaruka zifite ku buzima bw'umuntu.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu, rifunze neza, ririmo umuti utunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo ,kugira ngo ube wavura indwara.

Ibimera biteye mu murima bifite amababi y'icyatsi kibisi ayo mababi yabyo n'amashami yabyo akaba yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe atunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge, idafite ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha

Amacupa atandukanye, afite amabara atandukanye, akaba ari amacupa afite ibara ry'icyatsi kibisi, ikigina n'umweru, afite n'imifuniko, kandi kuri buri cupa hagiye hometseho igipapuro kigaragaza umuti uri muri iryo cupa ukowitwa n'uko ukokoreshwa, kugirango ibashe kuba yatandukanywa mu buryo bworoshye.

Icupa ry'umuhondo rifite umufuniko w'umutuku, ryometseho igipapuro cyanditseho izina ry'uwo muti uri muri iryo cupa watunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ube wakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi wujuje ubuziranenge wizeye ko nta ngaruka ufite mbi ku buzima bw'umuntu wawukoresha.

Icupa ry'umweru ryometseho igipapuro gifite amabara y'umuhondo, n'ay'umukara. Kuri icyo gipapuro hakaba handitseho amagambo atwereka umuti uri muri iryo cupa, izina ryawo n'uko ukoreshwa kugira ngo ugiye kuwugura awifashisha amenye uburyo awukoresha ku buryo bitamugiraho ingaruka.

Icupa rifite ibara ry'umweru, ririmo umuti watunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi kuri iryo cupa hakaba hometseho igipapuro cyanditseho izina ry'umuti n'uko ukoreshwa kugira ngo uwukeneye abashe kuwutandukanya n'undi kandi abe yawukoresha neza agendeye ku mabwiriza.

Amacupa atatu ateretse ahantu hafite ibara ry'umweru kandi n'ayo macupa akaba asa umweru, kuri buri cupa hakaba yagiye hometseho igipapuro kigiye cyanditseho amagambo asobanura umuti uri muri iryo cupa, izina ryawo n'ibintu biwukozemo ndetse n'uko ukoreshwa, kugira ngo uwukeneye abashe kuba yawutandukanya n'undi.

Imeza itetseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti ya gakondo. Harimo indabyo n'ibibabi byabyo, n'amashami yabyo kugira ngo bikurwemo imiti yizewe yujuje ubuziranenge ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Igiti cy'umuravumba giteye ahantu mu murima, amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe cyatunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye ubushobozi n'ubumenyi kandi abifitiye uburenganzira, kikaba cyavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibibabi, imbuto, n'indabyo zabyo, mu gihe byatunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye ubushobozi, kandi ubifitiye uburenganzira kuba yabikuramo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, kandi yizewe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo imbuto, ibibabi by'ibiti, indabyo zabyo mu gihe byahurijwe hamwe bigatunganywa neza, bikavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti ya gakondo, mu gihe byatunganyijwe neza bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ishobora kuba ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ibiribwa kugira ngo babigenzure, bibashe gukoreshwa n'abanyarwanda byujuje ubuziranenge, kandi byizewe ko nta ngaruka bifite ku buzima bw'abantu babikoresha, icyo kigo bakaba bakitwa Rwanda FDA.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo bigiye biteye ahantu mu tudobo twiza twabugenewe kugira ngo bigume bimeze neza kandi babyiteho bibashe gukura neza bizabashe kuvamo imiti yizewe, yavura indwara kandi idafite ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu, bitewe nuko yitaweho.

Imboga zifashishwa mu gihe umuntu ari gutegura ifunguro kugira ngo arye ifunguro ryujuje intungamubiri, rifite ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara, ndetse n'ibyubaka umubiri, kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe bugume bumeze neza kandi umubiri we ufite imbaraga.

Amacupa ateretse ahantu agiye atandukanye, ayo macupa yanditseho amagambo agaragaza izina ry'umuti uri muri iryo cupa n'uko ukoreshwa n'ukuntu ugomba kwitabwaho kugira ngo ugiye kuwugura abashe kuba yawutandukanya n'undi, kandi awukoreshe mu buryo bwizewe agendeye ku mategeko n'amabwiriza bashyizeho.

Igiti giteye mu murima cy'umuravumba kifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe cyasaruwe neza kigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira kigakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibiti, amababi yabyo, imbuto zabyo, indabyo zabyo ndetse harimo n'ibyatsi, ibyo byose bikaba byatunganywa bikavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye.

Amacupa n'ibikarito biteretse ahantu hasi ku makaro bikaba birimo imiti yateguwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi iyo miti ikaba yizewe yujuje ubuziranenge ishobora gukoreshwa n'umuntu mu kuvura indwara zitandukanye kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Umugore uhagaze imbere ye hari ibyatsi bifite indabyo zitukura, ari kubifata abisoroma kuko ibyo byatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza, bikaba byavanwamo imiti yizewe yavura indwara zitandukanye.

Abantu bari mu murima bari gusarura ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza, bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge.

Imeza iteretseho ibikoresho byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, hariho amashami matoya afite utubabi duto tw'icyatsi kibisi, tukaba twifashishwa mu gihe badutunganyije neza, tukaba twavamo umuti wizewe uvura indwara.

Umurima uteyemo ibiti bitandukanye, harimo umuravumba n'ibindi bimera bifite indabyo z'umuhondo n'iz'umutuku. Ibi byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira kandi ubifitiye ubushobozi bikaba byavanwamo imiti yizewe ivura indwara zitandukanye.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza, harimo imiti harimo n'imbuto kugira ngo umuntu akomeze kwita ku buzima bwe, umubiri we ukomeze kuba ufite imbaraga kandi umeze mwiza.

Igihingwa bita tangawizi cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe cyatunganyijwe neza kikaba cyakorwarwamo imiti itandukanye, kandi ivura indwara ku buryo bwizewe.

Imeza iteretseho ikarito birimo imiti n'amacupari arimo imiti yifashishwa n'umuntu uri muri siporo kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe aburengera, kandi mu gihe yaba yagize ikibazo ari muri siporo akabona imiti yo kwifashisha akaba yakira vuba kandi yizewe, yujuje ubuzirantenge.

Ibyatsi bita urumogi, byifashishwa mu gukora imiti igihe byatunganijwe neza n'abantu babifitiye uburenganzira, bigakorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Ibihingwa biri mu murima bifite amababi y'icyatsi kibisi, ayo mababi akaba yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe yasaruwe neza agatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira n'ubushobozi, akaba yavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe.

Ahantu mu ishyamba harimo ibiti bitandukanye n'ibyatsi bitandukanye, bimwe muri ibyo byatsi n'ibyo biti amababi yabyo n'amashami yabyo, akaba yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasorowe neza bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byakurwamo imiti yujuje ubuziranenge yavura indwara zitandukanye.

Amacupa n'udukarito bigiye birimo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo iyo miti ibe yavura indwara zitandukanye, kandi ikaba yizewe yujuje ubuziranenge ko ishobora gukoreshwa n'umuntu ntimugireho ingaruka mbi.

Mu macupa ateretse ku meza, harimo icupa ry'umuhondo n'iry'umweru ririmo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, hari n'igikakarubamba kugira ngo ibashe kuba yavura indwara zitandukanye, kandi yizewe yujuje ubuziranenge ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Icupa ry'umuhondo, ririmo umuti watunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ube wavura indwara zitandukanye, kandi wizewe, wujuje ubuziranenge, ukaba wakoreshwa, kandi kuri iryo cupa hakaba hometseho igipapuro kigaragaza izina ry'uwo muti, n'uko ukoreshwa.

Igiti gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, ibyo bibabi bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, iyo byasaruwe neza bigatunganywa ku buryo bwizewe, bikaba byakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi nta ngaruka mbi bifite ku buzima bw'umuntu aho wayikoresha.

Icupa rifite ibara ry'ubururu bwijimye, kuri iryo cupa harimo amavuta yifashishwa mu kwita ku ruhu rw'umuntu kugira ngo rukomeze kuba rumeze neza kandi afite ubuzima bwiza nta kibazo nta ndwara z'uruhu afite, ukabasha kuba wamurinda kandi n'izo yari afite ukaba wazivura.

Umuntu uhagaze wambaye umupira utukura n'agakote k'umukara, ufite ibyatsi mu ntoki byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganjwe neza n'umuntu ubifiteye uburenganzira, bigakorwarwa imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe yujuje ubuziranenge.

Icupa ry'umweru ririmo umuti utunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi kuri iryo cupa hakaba hariho igipapuro cyometseho kigaragaza izina ry'umuti uri muri iryo cupa ndetse n'ibyo ukozemo, kugira ngo uwukeneye abashe kuba yawutandukanya n'indi.

Icupa ry'umweru ririmo umuti watunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bitandukanye bya gakondo, harimo n'ubuki bukorwa n'inzuki, uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi wizewe, kuri iryo cupa hariho igipapuro kitwereka izina ry'uwo muti ndetse n'uko ukoreshwa kugira ngo uwukeneye abashe kuba yawutandukanya n'indi miti.

Amacupa atandukanye kandi afite amabara atandukanye, harimo amacupa y'umweru n'amacupa y'umuhondo arimo imiti yateguwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, iyo miti ikaba yujuje ubuziranenge kandi yizewe ko ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Ahantu hateraniye abantu benshi, imbere yabo hari imeza iteretseho amacupa afite amabara atandukanye, ayo macupa akaba arimo imiti ya gakondo, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi iyo miti ikaba yizewe ko yujuje ubuziranenge, ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti ya gakondo, mu gihe byasaruwe neza, bikegeranwa bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yujuje ubuziranenge, yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Amacupa y'umuhondo ateretse ahantu hamwe n'ibikarito, bifite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi, bikaba birimo imiti yifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, aramutse agize ikibazo agakomereka cyangwa akaba yavunika akaba yayifashisha mu kwivuza mbere y'uko agera kwa muganga.

Imeza iteretseho isahani y'umweru. Iyo sahani ikaba iriho imbuto, iteretseho n'icupa ririmo umuti kandi iryo cupa rikaba ryanditseho amagambo agaragaza umuti uri muri iryo cupa izina ryawo kugira ngo uwukeneye abashe kuba yawutandukanya n'indi miti.

Amacupa ateretse ahantu ari amacupa ane agiye atandukanye, kandi kuri buri cupa hagiye hariho icyapa kigaragaza umuti uri muri iryo cupa izina ryawo nuko ukoreshwa, kugira ngo uwukeneye abashe kuba yawutandukanya n'undi, kandi ugiye kuwukoresha abe yawukoresha neza mu buryo bwateganyijwe, kugira ngo utamugiraho ingaruka biturutse kuba yawukoresha nabi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibibabi, imbuto, indabyo zigiye zifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, oranji ndetse n'andi mabara, ibi byose mu gihe byatunganyijwe neza bikaba byakurwamo imiti yizewe ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ry'umweru ririmo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, igashyirwa muri iryo cupa, kuri iryo cupa hariho amagambo yanditseho agaragaza izina ry'uwo muti uri muri iryo cupa no gukoreshwa kugira ngo uwukeneye abe yawutandukanya n'indi miti kandi yizewe kandi wujuje ubuziranenge.

Umuntu wicaye imbere ye hateretse ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura imiti gakondo, harimo ibibabi, imbuto, indabyo n'amashami y'ibiti ari kubitegura neza kugira ngo abikuremo imiti ivura indwara.

Umurima uteye mo ibyatsi, amababi yabyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganijwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byavanwamo imiti itandukanye kandi ivura indwara zitandukanye ,yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Ahantu mu ishyamba harimo ibiti bitandukanye, harimo n'ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byateguwe neza bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, akaba byavanwamo imiti itandukanye yavura indwara ku buryo bwizewe.

Ahantu hateretse ibintu bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, harimo ibyo kurya ndetse n'imiti yo kwivura, harimo inanasi n'imineke, n'udukarito tugiye turimo imiti, kandi kuri buri gakarito handitseho amagambo asobanuye umuti uri muri icyo gikarito n'uko ukoreshwa.

Ahantu hateretse amacupa atandukanye kandi afite amabara atandukanye, amacupa arimo imiti yatunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo iyo miti ibe yavura indwara zitandukanye kandi kuri buri cupa hagiye handitseho amagambo agaragaza izina ry'umuti uri muri iryo cupa kugira uwukeneye abe yawutandukanya n'undi.

Ibyatsi bifite amababi y'icyatsi kibisi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe ayo mababi yasaruwe neza, akegeranywa mu buryo bwiza, akaba yatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yizewe yujuje ubuziranenge ku buryo nta ngaruka mbi bifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Ahantu bateye ibiti, barabihumbitse ari ingemwe ziri mu mashashi, kugira ngo zizakurwemo zijye guterwa ahantu hatunganyijwe neza, nyuma ibyo biti nibimara gukura bazabisarure, amababi yabyo azifashishwe mu gukora ibintu bitandukanye, bakaba bayakoresha bakora imiti ya gakondo kandi yizewe, ikabasha kuba yavura indwara.

Igiti bita umuravumba, amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe cyatunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye ubushobozi n'ubumenyi, kikaba cyavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yizewe, yujuje ubuziranenge.

Igiti giteye mu murima, gifite amababi y'icyatsi kibisi, icyo giti kikaba cyifashishwa mu gihe amababi yacyo bayasaruye neza, akaba yatunganywa, agakorwamo imiti ya gakondo, yizewe, kandi ivura indwara zitandukanye.

Amacupa arimo imiti yatunganyijwe neza hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo iyo miti ikoreshwe mu kuvura indwara zitandukanye kandi yizewe, yujuje ubuziranenge kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Igiti gifite amababi icyatsi kibisi giteye ku rugo rwubakishije ibikenyeri, icyo giti amababi yacyo akaba yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byatunganiyijwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira bigakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yizeye ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Umugore uhagaze wambaye imyenda y'imyeru ufite ishakoshi mu ntoki y'ikigina, imbere ye hari ibibabi by'ibiti biri ku nsina, ibyo bibabi bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza.

Umurima munini uteyemo ibimera byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byasaruwe neza bikitabwaho, bigatunganywa, bikaba byakurwamo imiti itandukanye kandi yizewe ishobora kuvura indwara.

Imeza itetseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hariho udusahane tugiye turiho imbuto, ibibabi, impande yaho hari n'umunzani wifashishwa mu gupima ingano ikenewe kugira ngo bakore uwo muti, birinde ko baza gukoresha ibintu byinshi bikaba byagira ingaruka.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye, agiye arimo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kandi iyo miti ikaba yizewe, ishobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umweru, bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza bigatunganywa n'umuntu ubifitiye uburenganzira, bikaba byakurwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge, yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.

Ibikarito bitandukanye bigiye birimo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi ibi bikarito iyo miti irimo ikaba yizewe yujuje ubuziranenge, ishobora gukoreshwa n'umuntu mu kuvura indwara afite, kandi nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu waba wayikoresha.